Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bikaba bigaragara ko bari mu nama yungurana ibitekerezo, aho bari kugenda bungurana ibitekerezo ndetse hari n'abacaye imbere yabo bari kugaragaza ibitekerezo bikomeye.

Abantu bateraniye hamwe bose bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'amacupa y'amazi, biragaragara ko bari mu nama, bari kungurana ibitekerezo ku kuntu bageza ubuvuzi ku baturage bose, ku buryo buri murenge na buri kagari haba harimo ivuriro.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo abana bato cyane bambaye impuzankano y'abanyeshuri hakaba harimo n'umuntu mukuru ariko kubasobanurira ibijyanye n'ubuzima ndetse bigaragara yuko aha hantu bose bari gusobanurirwa kandi bagasobanukirwa.

Abakobwa batatu ndetse n’ umuhungu bateraniye ahantu hamwe, bari mu nzu yubakishije amatafari ahiye. Hejuru ku nkuta hariho ibishushanyo bigaragaza abantu bari hamwe, bari kungurana ibitekerezo, bari gufatira imyanzuro hamwe. Nabo bari kuganira ku cyateza ubuvuzi imbere ndetse bishimira n'ibyiza bagejejweho

Abantu benshi bamwe baricaye abandi barahagaze, biragaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso. Bari ahantu mu nzu ifite inkuta z'umweru hakaba hariho akapa k'ubururu kari inyuma yabo. Aba rero bari bari mu mahugurwa ku bijyanye n'ubuzima.

Abajyanama b'ubuzima bateraniye ahantu hamwe, bari bari guhabwa amahugurwa ku kuntu bagiye bavura abantu, maze bakabavurira ku gihe, inyuma yabo hari igiti kiza cyane k'icyatsi kibisi, bahagaze ahantu hasashe amapave, ibi Leta y'u Rwanda yabikoze kugira ngo ubutabazi bw'ibanze buboneke ahantu aho ari ho hose.

Umumama ndetse n'umwana, hari ahantu hari ibimera byinshi cyane, bisa icyatsi kibisi, ibimera rero nibyo bateguramo imiti gakondo, ndetse inyuma hakaba hari urukuta rw'amabuye, ikirere kirasa n'ubururu.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, aha hantu harasa neza cyane hakaba abantu batatu bari imbere yabo bari kubahugura cyane ku bijyanye no kwirinda ndetse no gukomeza kugira ubuzima bwiza, aho bigaragara ko bari kumwe n'abafatanyabikorwa.

Inyubako nziza cyane, hateraniyemo abantu. Imbere yabo bose hari uducupa tw'amazi. Bafite amatelefone, amakayi, ndetse n'amakaramu. Bari kungurana ibitekerezo ku kuntu ubuzima bwatezwa imbere. Bigaragara yuko bose ari inzobere.

Aha ni ahantu heza cyane, harimo imashini zigiye zitandukanye, izisa ubururu ndetse n'icyatsi, hakaba hari umuntu uri gutambukamo, aha ni ahantu heza cyane leta yateguriye abaturage kugirango babashe kubona umuriro mwiza cyane, ubuzima bugendade neza.

Abamama babiri bicaye mu nzu nziza, bose bicaye ku ntebe nziza cyane z'umukara zegamirwa, aba bamama rero nk'uko bigaragara bari mu nama igamije gufata imyanzuro ndetse no kwiga ku bijyanye n'icyateza ubuzima ku rwego mpuzamahanga.

Umugabo ndetse n'umugore bose bari kuvoma amazi ku ivomero rusange, iri vomero ryubatswe na leta, leta yagiye yubakira abaturage amavomero kugira ngo babashe kubona amazi meza maze bagire ubuzima bwiza batandukane n'indwara ziterwa n'umwanda.

Umuforomokazi yicaranye n'umusore wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ipantaro y'umweru. Inyuma yabo hari akapa kanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku. Aho bagira bati, " Sida iracyahari, duhagurukire kuyirinda!"

Umwana wambaye agashati k'umutuku ari ku ivomero rusange, yafunguye amazi ari gukaraba intoki, amazi meza yageze hose kuri bose kandi ahagerera ku gihe, iki cyaje ari igisubizo Leta yarakoze kuzamura ubuzima bw'abantu bo mu cyaro.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'abanyeshuri, yambaye agashati k'umuhondo karimo akarongo k'umukara ku maboko ndetse n'ijipo y'umukara. Imbere ye hari kandagira ukarabe itezeho akabase, ari gukandagira agakaraba. Ibi leta yabyegereje abana mu bigo by'amashuri kugira ngo irusheho kubarinda indwara ziterwa n'umwanda

Ahantu hari abantu benshi imbere turi kuhabona umuntu wambaye agapira k'umweru karimo amabara y'ubururu ,ateruye umwana wambaye agapira k'umuhondo ndetse imbere ye hari umusore wambaye agapira k'umuhondo n’ipantaro y'umukara ndetse n’amarineti ari gutamika umwana bigaragara yuko uyu mwana yitaweho kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu mahugurwa, aho bari kungurana ibitekerezo umwe avuga icye n'undi akavuga icye maze bose bagahuriza hamwe bagafata ingamba; kugira ngo basigasire ireme ry'ubuvuzi.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu byihagije mu nkingo ndetse n'imiti, si ibyo gusa kuko ruhora rurebera abaturage barwo icyabateza imbere, aha rero hari umuganga wambaye ga ari gutera urukingo umubyeyi wicaye ku ntebe.

Igishushanyo kiriho umubumbe w'isi ucigatiwe mu biganza, ikiganza kimwe kikaba ari icyatsi kibisi ikindi kikaba ari ubururu, hakaba hari amagambo yanditse n'ibara ry'ubururu agira ati ubuzima bwiza ku isi hose ndetse dushyize hamwe.

Abana bato cyane b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, bari mu kigo cy'amashuri, hakaba hari ameza atetseho utugega turimo amazi asukuye, bafite ibikombe bari gusuka maze bakanywa, nkuko bigaragara aya ni amazi yegerejwe abanyeshuri kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Abantu batatu bahagaze ahantu hamwe, hari umuma wambaye ikanzu y'ubururu, akaba yambaye akajiri y'umuhondo, afite akuma gapima umuriro, akaba agiye gupima umumama uje uteruye uruhinja, nkuko bigaragara aje kurupimisha urukingo.

Umwana wambaye agakabutura k'umutuku, akaba yambaye bodaboda hasi yateze indobo ku ivomero rusange. Iri vomeo ryubatswe n'igihugu kugira ngo buri muntu wese abashe kubona amazi meza kandi asukuye. Uyu mwana yamaze kuvoma maze atega intoki ari kwinywera amazi meza cyane.

Aha ni ku ivomero rusange ryegerejwe abaturage ,ryubatse neza rirasakaye inkuta ziriho irangi ry'umuhondo umweru ndetse n'ubururu, hari amabindo menshi cyane kandi asukuye baje kuvomeramo, hari abantu bahagazeho baje kuvoma ndetse n'undi umwe uri kubavomera.

Abantu bi cyane bateraniye hamwe bigaragara ko bari kwifotoza, aha ngaha rero iri ni ihuriro aho bari bamaze gufata imyanzuro yo kwegereza abaturage ubuvuzi, bamaze guhugura abajyanama b'ubuzima maze bafata ifoto y'urwibutso.

Aba ni ababyeyi bahawe amahugurwa ku bijyanye n'uko ushobora gufasha umuntu, igihe usanze yahuye n'ikibazo akeneye ubufasha, aho babahugura bakabaha ubumenyi bushoboka bwose, ku buryo ikibazo cyose wagira mu buzima bagufasha.

Abantu bari kwa muganga bagiye batandukanye, harimo abapapa, abamama, ndetse n'abana, bicaye ku ntebe babakiriraho aho umwe atambuka bakamwuzuriza ifishi maze bakamuvura mu buryo bworoshye.

Ni mu nyubako y'ivuriro aho hari abantu bari gusobanurirwa neza cyane ibijyanye n'ubuzima, bari kubasobanurira uko indwara ifata abantu uko bakwiye kuyirinda ndetse n'uko bakwiye kuyivuza aho nabo bari gusobanukirwa kandi bakabyemera.

Iri ni ivomero ryiza cyane turi kuhabona ababyeyi batatu, harimo umwe uri kuvomera abaje kuvoma, hakabamo abandi babiri bari baje kuvoma bateze amajerekani yabo aruzura, maze bitewe n'ukuntu bishimiye rino vomero batega n'ibiganza babanza kunywa amazi.

Inyubako nziza cyane zubatse ahantu heza, harimo ubusitani bwiza cyane, hagiye harimo n'ibiti. Aha rero bigaragara yuko Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kubaka inzu zifite icyerekezo kandi zibereye Abanyarwanda.

Umwana muto cyane afite icupa ry'amazi mu ntoki, ndetse ari gufunga robine iri ku kigega ngo avome, ikigega gisa umukara. Ibi rero leta y'u Rwanda yabikoze kugira ngo buri munyarwanda wese agire ubuzima bwiza buzira umwanda, maze abeho yishimye.

Umwana muto cyane ufite igikombe cy'icyuma, yateze kuri robine amazi ari kuza. Aya mazi ari kuva mu kigega. Ibi bigega leta yagiye ibyubaka mu bice bigiye bitandukanye bitageragamo amazi kugira ngo na bo babone amazi, maze babashe guhangana n'indwara ziterwa n'umwanda.

Umukobwa ugaragara ko akuze ari kumwe n'abana babiri afite amajerekani abiri, yaje kuvoma aha ni kw’ivomero rusange ari kuvoma yishimye. Leta y'U Rwanda yegereje abaturage bose amazi, kugira ngo bahangane n'indwara ziterwa n'umwanda maze bagire ubuzima bwiza.

Ahantu hateraniye abantu bagiye batandukanye, hari abagabo ndetse n'abana abana b'abahungu ndetse n'abakobwa hari umugabo wambaye jile bigaragara ko ari gusuzuma umuntu wicaye ku ntebe, ari kumwemwereka igitabo akamubwira ngo asome bigaragara ko ari kumusuzuma amaso.

Ibimodoka binini kandi birebire, biri mu muhanda mwiza cyane wa kaburimbo. Aho hariho icyapa kiriho inyuguti ziri mu mpine; wa, efu, pa. Bivuze ngo aha ngaha ni ibyo kurya bashyiriye abaturage batabifite.

Abantu benshi cyane kandi b'ingeri zigiye zitandukanye, harimo abagabo, abadamu ndetse n'abana bari ku ivomero, ivomero rifite amarobine ane mu mpande zose, bafite utudobo bari kuvoma amazi, aya mazi Leta y'u Rwanda yayegereje abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abamama babiri bari ahantu hamwe ku rukuta hasizeho irangi ry'umuhondo, umumama umwe yambaye ikanzu y'umuhondo iri mo utubara tw'umweru ndetse n'umukara, undi yambaye agapfukamunwa k'umukara, agapira k'icyatsi akaba ateruye umwana, biragaragara ko bose bari guha abana babo uburere ndetse n'ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe ni ingeri zose, harimo urubyiruko, hakabamo ababyeyi. Aha rero bari kuganira ku bijyanye n'uko ubuzima babuteza imbere, aho bwagera kuri wese, ahariho hose kandi ku gihe.

Bisa n'aho ari umwana wateze indobo munsi y'ikigega kiriho robine. Amaze kuyitega, ahita atega ibiganza ari kunywa amazi. Aya mazi rero Leta y'u Rwanda yayegereje abaturage, mu rwego kugira ngo ibafashe kujya babona amazi meza, birinde umwanda kandi bayabonere ku gihe.

Abantu batandukanye bateraniye ahantu hamwe imbere yabo hari igishushanyo ndetse hari na ekara igaragaza ibyo bari kwigaho, ndetse bamwe ni abirabura abandi ni abazungu, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi nk'uko bigaragara bari kuganira bungurana ibitekerezo.

Abana bambaye impuzankano y'abanyeshuri, bari ku ivomero rusange, iri vomero rusange ririho amarobine atatatu agiye atandukanye, babiri babiri bahagaze kuri rimwe, hari imikindo myiza cyane, inyuma hakaba hari inzu, aya mazi leta yayegeje abaturage kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Cyane bateraniye ahantu hamwe, nk'uko bigaragara bari mu bukangurambaga ku bijyanye n'ubuvuzi kuko bafite n'ibipapuro bibyanditseho. Ni ngombwa ko dufata ingamba tukirinda indwara ndetse ikabishishikariza n'abandi.

Abana babiri bari kumwe bari mu rugo rumwe; umwe ari gukarabira mundobo afite isabune mu ntoki; undi afite amazi ari kumusukira; koga intoki ni byiza cyane ko birinda indwara ziterwa n'umwanda, mu gihe waba uriye utabiteguye; aba bana rero ibyo barabyumva kandi bakabyubahiriza.

Abaganga bambaye impuzankano y'abaganga biragaragara ko bari kuvura abantu kuko bambaye imyenda y'akazi bambaye udupfukamunwa ndetse n'utuntu mu umutwe tubarinda kuba hari umwanda wajyamo nk'uko bigaragara rero begereye abaturage bari kubafasha kubona ubuvuzi.

Abaforomo abajyanama b'ubuzima ndetse n'umuzungu bahagaze imbere wambaye ikoti ry'umukara, yamaze kubahugura bombi bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima, yamaze kubabwira yuko buri muturarwanda ndetse na buri muturage wese akwiye kubonera serivisi z'ubuvuzi ku gihe.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bicaye mu ihema, imbere yabo hari umuganga wambaye impuzankano y'abaganga afite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'agatabo, ari kubahugura ibijyanye n'ubuzima, uko bakwirinda indwara ndetse n'uko bakwivuriza ku gihe.

Abantu bateraniye ahantu hamwe harimo abamama ndetse n'abakobwa, bari kubyina bateze amaboko bateza urugori barishimye cyane, bigaragara yuko inama y'isi yateranye maze ikiga ku bijyanye n'ubuvuzi bw'ibanze kandi ikemeza yuko buri muturage agiye kujya avurirwa ku gihe.

Abana babiri bari kuvoma amazi, bari kuri robine bari kuvoma agwa mu ndobo, bose barishimye. Aya mazi nayo igihugu cyegereje abaturage kugira ngo babashe kurwanya indwara ziterwa n'umwanda. Inyuma aho hari ibiti byiza cyane by'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Abantu bari mu nama, aba bose bari guhugurwa ku bijyanye n'uko bateza imbere ubuvuzi ku isi hose. Hari abantu babari imbere, bose bafite indangururamajwi ndetse na mudasobwa imbere yabo ndetse n'uducupa tw'amazi. Bari gutambutsa ikiganiro ku bijyanye no kwirinda virusi y'icyorezo cya mabaga.

Abantu bari kwa muganga, bose bafite amafishi, bigaragara ko ari abarwayi, baje kwivuza, hirya no hino mu gihugu, bagiye buhubaka ibigo nderabuzima kugira ngo buri muturage abone serivise z'ubuvuzi mu buryo butamugoye.

Iri n'ivomero rusange ryegererijwe abaturage turi kubona abana bane baje kuvoma umwe arahagaze afite inkoni ndetse yambaye bote undi arikuvoma abana barangaye amazi bari kuyamena aya mazi leta yogereje abaturage.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, bari mu nyubako nziza cyane ariko bari imbere yayo, hasi hasa umutuku. Bari gufata ifoto y'urwibutso, bari bari guhabwa amahugurwa ajyanye n'ubuzima, hakurya ikirere kirasa umweru n'ubururu, hakaba hari umukindo muremure.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, harimo indangururamajwi imbere ya buri muntu, hakaba ndetse n'agacupa k'amazi, harimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, bakaba bari kuganira ukuntu bateza imbere ubuvuzi, harimo n'abazungu bari kugenda babungura ibitekerezo bigaragara ko iri ari ihuriro mpuzamahanga.

Umumama uri kugaragara igice cyo hejuru bamushyize mu kantu k'uruziga. Hari amagambo yanditse iruhande aho ngaho, yanditse ku cyapa kiriho ubururu ndetse amagambo yandikishije umweru, aho bagira bati tugomba gusohoka tukajya hanze maze tukareba abafatanyabikorwa, bakadufasha natwe tukagera kure.

Abantu benshi cyane higanjemo ababyeyi b'abamama bambaye ibitenge ndetse n'imipira, bakaba bambaye amajire y'ikigo cyitwa kuruwaruje, aba rero bakaba bahawe amahugurwa y'ukuntu bashobora gufasha umuntu wagize ikibazo icyo ari cyo cyose bakamutabara.

Ni byiza kwita ku bana, aha ngaha hari abana bicaye hasi bambaye udupira dusa, hakaba hari abantu bakuru bari kubaha igikoma, bari kubanywesha babafatiye ibikombe, aba babyeyi rero bari gutanga urugero rwiza rwo guha ubuzima bwiza umwana.

Umukobwa mutoya cyane wambaye impuzankano y'abanyeshuri, ari ahantu kuri rubine ari gukaraba intoki, Leta yegerije amazi abaturage kugira ngo abana ndetse n'abandi bantu bose bajye bakaraba bagire isuku, indwara ziterwa n'umwanda tuzibagirwe.

Ababaganga bambaye amataburiya y'umweru azwi nk'impuzankano, bari kumwe n'umumama w'umuzungu wambaye ikanzu y'umutuku, bikaba bigaragara ko bari bari mu mahugurwa kugira ngo begereze serivisi z'ubuzima kandi zinoza abaturage.

Aba ni abaganga bambaye impuzankano y'abaganga, bicaye hamwe bigaragara ko ari ahantu bakorera kuko bari kungurana ibitekerezo k'ukuntu bafasha abaturage kubona ubuvuzi ku buryo bubanogeye, nta kosa bakoze mu kazi ka bo.

Umukecuru uri ku ivomero ari kuvoma amazi mu ijerekani n'ivomero ririho robine eshatu rikaba riri ahantu ubona ko hari ibimera byinshi cyane umukecuru ari kuvoma amazi yishimye kuko ayo mazi yahageze bayakeneye kuko abafasha mu buzima bwa buri munsi.

Abamama batatu bari ku ivomero rusange, umumama umwe ari gukurura icyuma undi akavoma, ari kuvomesha indobo ndetse hari n'undi uhagaze ku ruhande, hakaba hari urukuta, hafi aho ndetse hari n'igiti kiri inyuma y'urwo rukuta, aya mazi ni meza leta yegereje abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu bari mu nama, harimo abadamu babiri ndetse n'abagabo batatu, bose imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, bafite amaterefone, bakagira amakayi ndetse n'amakaramu, bari kungurana ibitekerezo ku cyateza imbere ubuvuzi ndetse n'ubuzima muri rusange.

Aha ni kwa muganga, umubyeyi wambaye ibitenge byiza cyane bita amaribaya ateruye akana, hari umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, ndetsega afite akumvirizo mu izosi, ari gusuzuma umwana, nk'uko bigaragara ari kumutera urukingo.

Aha ni kwa muganga arikoko abona umuforomo wambaye agapfukamunwa, akaba ari gusuzuma umubyeyi uryamye hasi ku gitanda ndetse hari n' undi umurwaje wambaye agapfukamunwa. Umuforomo ari kumushyiraho icyumvirizo, maze agatega ugutwi kugira ngo yumve niba agihumeka.

Igishushanyo kirimo inyubako nziza cyane. Izi nyubako ni iz'ubuvuzi. Ibihugu byateye imbere bifite inyubako nziza z'ubuganda, kandi begereje serivisi z'ubuganga ndetse n'ubuvuzi abaturage. Aha rero ryari ihuriro ryahuye mu wa bibiri na makumyabiri na kane nyafurika ryita ku buzima.

Ibi ni ibikoresho byo kwa muganga. Ibi bikoresho babikoresha mu gihe haje umurwayi urembye cyane, ukeneye kongererwa umwuka. Aho babijyana, maze bakabishyira ku mazuru ye, akabasha guhumeka umwuka ubiturukamo.

Umukobwa ndetse n'umupapa bahagaze imbere y'inzu, hari ameza ateretseho ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, uyu musaza yambaye ijire yanditseho ngo: "Ubuzima bwiza kandi buri ku murongo."

Ibiganza biteze kuri robine, iyi robine iri kuzamo amazi meza cyane kandi asukuye, uyu muntu ari koga kugira ngo yirinde umwanda, ibi leta y'u rwanda yabikoze kugira ngo abantu bose barangwe n'isuku maze indwara zikomoka ku mwanda zigende nka nyomberi.

Umwana wambaye agapira ka orange bari kumukorera ibido, ni ibido nini cyane ndetse ari kuyikorerwa n'umugabo bose barishimwe, kuri iyi bido hariho akapa kanditseho UNICEF, UNICEF ikaba yita ku bana kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ababyeyi babiri bari ku ivomero, hari abana batatu, umubyeyi umwe yambaye agasengeri ka oranje ari koza umwana yicaye mu ibase, ari kudaha amazi akamusiga n'isabune, ndetse n'undi agiye kumwoza kuko amuhagaze imbere.

Aha ni kwa muganga, aho harimo umuforomokazi wambaye impuzankano y'abaforomo. Hakaba harimo ibikoresho byose byo kwa muganga. Ari kwitegereza cyane bigaragara ko bari kubahugura kugira ngo na bo bajye babikora bitabaye ngombwa ko abarwayi bagera kwa muganga.

Abantu batandukanye bicaye mu nzu y'inama, barakurikiye bose nta n'umwe urangaye, imbere yabo hagiye hateretse amacupa y'amazi, bose bafite udukayi ndetse n'udukaramu, bari kugenda bandika atuntu tw'ingenzi, aya ni amahugurwa yerekeranye n'ibijyanye n'ubuzima.

Umwana wambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'umweru, akaba yambaye bodaboda, ari ku ivomero ateze amaboko kuri robine, ari gutega amazi ngo akarabe intoki, imbere ye hari akadobo kajugunywamo imyanda, nkuko bigaragara ahangaha ni mu kigo cy'amashuri ariko hari ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, biragaragara ko bari mu nama ikaba irangiye ndetse inyuma yaho hari icyapa kiriho amagambo yandikishije umweru, bigaragara ko bafashe imyanzuro ijyanye n'uko bakwegereza serivise z'ubuvuzi abaturage ahantu bari hose.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bari kugenda basobanurirwa ibijyanye n'ubuzima aha rero naho leta isobanurira abantu kugira ngo basobanukirwe maze bajye bakora ibintu bazi neza atazagira uvura umuntu akaba yamwica ariko umuvura.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, inkuta ziriho imashini bareberaho amashusho zikaba zisa umweru, harimo umuturongo akubururu ndetse n'ak'umutuku, harimo ibitanda byiza cyane basuzumira abarwayi.

Akana gato bigaragara ko ari kanyeshuri, kari kuri robine iri ku ndobo aho iteretse ku meza, kari kuvoma amazi kugira ngo koge mu ntoki. Ibi ngibi babikoze kugira ngo abana bajye boga maze birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umumama uri kumwe n'abana benshi, baje kuvoma, hari ivomero rusange ry'amazi meza cyane, batezeho amabasi, amajerekani, urabona ko bishimye. Aho hari amazu, imikindo ndetse n'ibiti, ibi ngibi rero nibyo bita kugira ubuzima bwiza.

Abaganga ndetse n'abaforomo, hamwe n'abandi bantu bagiye batandukanye, bose bambaye amabaji mu ijosi bari gufata ifoto y'urwibutso, nk'uko bigaragara rero bari bari mu bushakashatsi, ku bijyanye no kwirinda indwara ku rwego rw'isi.

Inyubako iteraniyemo abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Bicaye mu buryo buzengurutse. Imbere yabo hari umumama uri gutanga ikiganiro. Aho ari kubahugura ku bijyanye n'ubuzima. Bose barakurikiye, kandi bari gusobanukirwa.

Aha ni ahantu heza cyane ni ahantu nyaburanga, hari amazi meza cyane agiye azengurutse, akaba hubatse neza cyane amazu ariho irangi ry'ubururu, hari amatara meza cyane ahamurika hakaba ibiti byiza bitanga umuyaga, aha hantu wasohokana umuryango maze ukishima.

Aha ni kwa muganga harimo abaganga bambaye impuzankano bambaye bikwije mu maso ndetse no mu mutwe, bakaba bari gusuzuma umukobwa wicaye ku ntebe bamushyizeho akamashini gapima umuvuduko w'amaraso bari kureba mu mashini ikibazo afite.

Inyubako nziza cyane zigaragara nk'aho ari inganda. Aha rero leta y'u Rwanda yakoze ibi kugira ngo buri muturage wese agire ubuzima bwiza kandi abone ibyo akeneye kugihe, ibi rero ni bimwe mu byifuzo bya leta binogeye umuturage.

Umugabo wambaye ikote ndetse ari gusuhuzanya'undi wambaye ikote kandi akaba afite baji mu ijosi aba bombi bigaragara yuko ari abaganga cyangwa se abayobozi, bakaba bari mu ihuriro rigaragaza ndetse rikaniga ku bijyanye n'icyateza imbere ubuvuzi.

Wambaye agashati k'icyatsi cyerurutse ndetse n'agakabutura, ari imbere y'ivuriro rifite ibara ry'ubururu. Hari indomoro y'ubururu ndetse uyu mwana ari gukaraba intoki, aya mazi yegerejwe abaturage. Mu rwego kugira ngo bashobore kwirinda indwara ziterwa n'umwanda nta nkomyi.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu rwego kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza, izi ni nkingo, inkingo zagiye zitangwa mu gihe cya kovide cumi n'icyenda, kugira ngo basuzume abaturage ndetse banabakingire, ubu burwayi kugira ngo butazigera bubafata.

Iri ni ihuriro mpuzamahanga ryita ku buzima hari abantu bambaye impuzankano bambaye imipira y'umweru ndetse bamwe bambaye n'amataburiya bigaragara ko ari abaganga ndetse n'abaforomo inyuma yabo hari icyapa cyanditseho arabisi bari bari gufata ingamba ku bijyanye no kugeza ubuvuzi buzira umuze ku baturage bose.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bambaye imipira isa oranje bose, harimo n'abambaye amajire ndetse hakaba harimo n'abapolisi, bigaragara ko bari gutera imboga kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza.

Abana bato bambaye impuzankano y'abanyeshuri bari ahantu kw’ivomero bari kunywa amazi bakoresheje umunwa, amazi rero ni meza cyane ku buzima bw'abantu. Yegerejwe abaturage kugira ngo babashe kwishima, kandi bagire ubuzima buzira umwanda.

Inyubako iteraniyemo abantu benshi kandi bose nk'uko bigaragara n’ababyeyi bakaba baje kuvuza abana babo cyangwa se kubakingiza naba mama bita ku bana babo bakabafasha kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Abantu bari ahantu mu nzu bigaragara ko bari kuganira, umuntu uri gusobanurira undi bigaragaza ko u Rwanda rwegereje ubuvuzi abaturage aho umuturage asobanuza bakamusobanurira aha rero naho n’umuntu uri gusobanuza.

Abana bane bari kuvomero rusange bafite ubujerekani butatu baje kuvomeramo, hari umuntu mukuru uri kubavomera, ari kugira icyuma maze amazi akaza, iri riba riri ahantu hagaragara nk'aho ari mu mubande, hari ibyatsi byiza cyane ndetse n'ibiti. Hirya hakaba haparitse imodoka.

Iri ni ihuriro ryita ku buzima aba bose bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima buri muntu imbere ye hari icupa ry'amazi bakaba bafite amatelefone, amakayi ndetse n'amakaramu bari kungurana ibitekerezo.

Ahantu hateraniye abantu bagiye batandukanye nk'uko bigaragara habaye ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima baje gukingira indwara zigiye zitandukanye turi kuhabona ihema ririmo abantu, turi kubona abashinzwe umutekano nk'abadaso bari hafi aho bari gucunga umutekano.

Ivomero rusange ryatashywe ku mugaragaro, hari abantu bagiye batandukanye ndetse urabona ko ibyishimo ni byose urebesheje ijisho, hari umumama urigira icyuma maze amazi akaza umwana nawe we agatega amabido amazi akajyamo, aya namazi meza Leta yegereje abaturage.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse na baji mu ijosi, akaba yambaye n'ingofero ndetse hari n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Inyuma yabo hari ihema, iryo hema rero bari kwinjiramo bakabasuzuma. Ahangaha ni abaganga baje gusuzuma abaturage indwara.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu mahugurwa, bari guhugurwa ibijyanye n'ubuzima bari gusobanuza basobanukirwa, imbere yabo bahagaze umugabo uri kubasobanurira, nkuko bigaragara bari kubyumva kandi bari gusobanukirwa.

Abamama bahetse abana, abana bakiri bato ariko bigenza. Turababona kwa muganga aho bari kubafasha. Bari kubasobanurira ibijyanye n'ubuzima ariko baratanga amafishi bakabasinyira maze bakabuzuriza bagatambuka bakavurwa.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu hamwe, bose bari guhabwa amahugurwa ajyanye no guteza imbere ubuvuzi ndetse n'ubuzima ku isi, bambaye imipira y'umweru higanjemo abambaye ingofero bose barakurikiye bari gusobanukirwa neza cyane.

Abaganga bambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'amabaji mu ijosi, harimo n'abandi bantu bambaye amashati y'umukara ndetse nabo bambaye amabaji mu ijosi, inyuma yabo hari igishushanyo nacyo kiriho abaganga, hakaba hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, agira ati nyabugeni otorisaci andi masikiriningi.

Umwana w'umukobwa bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'ihungabana, ababyeyi bamufashe mu biganza, bari kugenda bamuganiriza kandi tukabona ko bamujyanye kwa muganga kugira ngo bamufashe maze ubwonko bwe bwongere bukore neza.

Umuntu uhagaze imbere y'abandi bigaragara ko ari kubasobanurira, bose bamuteze amatwi, aha rero ari gutambutsa ikiganiro ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, aho ubona ko bose bakurikiye kandi bari gusobanukirwa.

Umugabo wambaye imyenda byacikaguritse, ufite ibisatsi byinshi cyane kandi bibi, n'ibyanwa bibi cyane. Uyu mugabo bigaragara ko adaheruka koga, ndetse adaheruka koza no mu kanwa, yahuye n'ikibazo cy'ihungabana. Mu mutwe we ntihakora neza.

Aha ni mu nzu mo imbere, harimo intebe za parasitike, hakabamo abantu babiri bose bicaye ku ntebe ndetse ku meza hariho icupa ry'amazi na mudasobwa umwe ari gukoresha, ari kumubaza ibibazo akamusubiza kugira ngo yumve uko ubwonko bwe bukora.

Umuntu wicaye ku gikarito wegamiye igikuta nkuko bigaragara arigunze cyane afite ibibazo bigiye bitandukanye, yambaye imyenda idafuze kandi imbere ye hari amasashi menshi cyane bigaragara ko yahuye n'ikibazo cyo mu mutwe ubwonko bwe bukaba butagikora neza.

Umamama uteze igitambaro mu mutwe yambaye amayena kuguru yakanjije isura rwose, biragaragara yuko afite ibibazo byinshi cyane aha rero niho bavuga ko umuntu yahungabanye, ubwonko bwe wabutangiye kudakora neza, uyu mumama na we niko ameze.

Umugabo wambaye ishati imeze nk'ikoze mu gitenge yegamiye urukuta. Imbere ye hari akayira keza cyane karimo amatafari. Yararamye cyane. Bigaragara yuko afite ikibazo gikomeye kuko ubwonko bwe ntiburi gukora neza, arananiwe cyane.

Urubyiruko ruteraniye hamwe, harimo abasore ndetse n'inkumi, bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, bose barakurikiye nta n'umwe urangaye kuko ibyo bari kubwirwa ni ingirakamaro.

Abamama babiri ndetse n'umukobwa umwe, aba bamama bombi bafite abana bakiri bato, uyu mukobwa akaba ari kubasobanurira ukuntu kose umwana neza kumuganiriza ndetse no kumwitaho, bituma agira imikorere myiza y'ubwonko.

Umusore bigaragara ko yataye ubwenge, yakuyemo imyenda yose, yicaye ahantu mu kizu cyashaje, akaba yiziritse ibintu ku maguru, ubusazi ni indwara mbi cyane kuko uwo yafashe yikora ibyo abonye, kuko ntawe aba yitayeho.

Umugabo uri kurira cyane, amarira ari kumanuka ku matama, ibimwira biri kuva mu mazuru bijya mu kanwa, biragaragara y'uko yahuye n'ikibazo cy'ihungabana, mu bwonko bwe hakaba hadakora neza, akeneye abajyanama ngo bamufashe maze agarure icyizere cy'ubuzima.

Icyapa kigaragaza imibereho y'abantu. Biragaragaza umwana ari wenyine, bikagaragaza umumama, umupapa, ndetse n'abana babiri. Hagaragara umuntu umwe, hakagaraga umumama utwite, ndetse n'undi uri gusakuza. Aha rero hariho akambi gafite utugofero hepfo no ruguru.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, imbere yabo hari umupapa uri kubasobanurira. Ari kugenda yandika nabo bareba, bigaragara ko hari ababyeyi bari gusobanukirwa ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'uko ubuzima bwo mu mutwe bw'umwana buremwa.

Abakobwa babiri bicaye ahantu hamwe, imbere yabo hari akantu kameze nk'akabase gateretsemo udushushanyo ndetse uyu mukobwa umwe akaba afite agashushanyo mu ntoki. Bari kugenda bareba bagaseka. Utu ni utuntu rero wakwifashisha mu gihe wumva ubwonko bwawe bwananiwe.

Umwana w'umukobwa wagize ikibazo cy'ihungabana akiri muto, maze ubwonko bwe ntibwakora neza. Yicaye imbere y'igiti yiziritse umunyururu ku maguru, yicaye ku musambi. yasheravatuye igiti, yacyanditseho ibintu byinshi cyane. Bigaragara ko akeneye ubuvuzi bwo mu mutwe.

Ni igishushanyo kiriho ikirangantego cya polisi y'u Rwanda, hakabaho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse hakaba n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, aho bagira bati isange wani sitopu seta, ahangaha rero batanga serivisi zijyanye no kuganiriza abantu bahuye n'ihungabana batewe n'ihohoterwa.

Ni nzu y'inama yubatse neza cyane. Harimo intebe nziza, hakaba harimo indangururamajwi ndetse n'isakazamajwi. Aha rero harimo umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'ikote, hakaba n'umumama wambaye ishati y'amaboko maremare, ndetse afite indangururamajwi mu ntoki, ari gutambutsa igitekerezo cye.

Ni umusore bigaragara ko byacanze yambaye ibyenda byacikaguritse, afite ibicupa by'amazi ndetse n'amashashi arimo amazi, yegamiye igikuta gishaje yiziritse ahantu hose n'imbere ye hareba ibikarito n'ibifuka byashaje.

Umukobwa uri guseka cyane, yambaye agapira ka oranje, akaba afite igitambaro cy'ubururu, inyuma ye hari icyapa cy'amabara y'ubururu, hakaba hariho n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru, aho yishimye cyane.

Umukecuru wicaye hanze afite isafuriya iri ku mashyiga y'ibyondo, hakaba harimo inkwi bigaragara ko atetse igikoma. imbere ye hari ibikombe imifuniko yayijugunya kure bigaragara ko uyu mukecuru ubwonko bwe butagikora neza.

Umumama wambaye ibitenge by'umuhondo hagiye arimo mu utudomo tw'ubururu, yambaye ishati isa nkahoho yacitse ari mu nzu yasenyutse, imbere ye harambuye umusambi, birigaragaza ko uyu mu mama afite ikibazo cyo mu mutwe yahuye n'ihungabana rikomeye yatewe n'ubukene.

Umugabo bigaragara neza ko ari umusazi, yicaye mu muyoboro uyobora amazi uzwi nka ruhurura, afitemo ibintu by'ibishashi, ibyenda byacikaguritse, afite imisatsi myinshi cyane ndetse n'ibyanwa, uyu mugabo yagize ikibazo cy'ihungabana akeneye ubuvuzi.

Umugabo uhagaze akaba afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga, bigaragara y'uko ari inama ndetse ari amahugurwa ajyanye n'ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bose barakurikiye bigaragara ko nta wurangaye bari kubasobanurira bagasobanukirwa, ubuzima bwo mu mutwe bugomba gusigasirwa kuko ni ingenzi ku bantu bose.

Abantu bagiye batandukanye nkuko bigaragara bari gutera ibiti. Bamwe barabitera ruguru abandi bakabitera hepfo, hari abantu habari hamwe bameze nka bari gufata ifoto. Aha rero bari mu bukangurambaga aho bakangurira abantu gutera ibiti kuko bifasha abantu gutekereza neza ndetse bigatera n'ubwonko gukora neza.

Agapira keza cyane kari mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, harimo amagambo yandikishije ubururu ndetse aya magambo ari mu mpine agira ati rps uyu mupira rero nk'uko bigaragara wagenewe kwibutsa abantu ko imikorere y'ubwonko itegurwa kandi igasigasirwa.

Abakobwa babiri bicaye bari kuganira, umwe yambaye imyenda y'umutuku, undi yambaye iy'umukara ndetse wambaye iy'umutuku yambaye n'ingofero, bari kugenda baganira aho agenda amufasha, uwambaye ingofero bigaragara ko afite ikibazo, ari kugerageza kumusobanurira maze na we akamufasha ngo arebe ko ubwonko bwe bwamera neza.

Naho bateraniye ahantu hamwe hari umubyeyi wicaye imbere y'umukobwa bigaragara ko ari umuforomo akaba ari kumubaza ibibazo ndetse anamusobanurira ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ubwo ndavuga imikorere y'ubwonko ndetse muri rusange no gukomera k'umutwe.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko ari mu nzu y'inama, hari umumama uhagaze imbere uri kubasobanurira, bigaragara ko ari kubaha ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko, aho bose bari gusobanukirwa kandi bakurikiye.

Umumama uri guseka yambaye agapira k'umweru, ateruye umwana we nawe wambaye agapira k'umweru karimo uturongo tw'umukara, bose bari guseka kuko baranezerewe, umumama kugerageza gutetesha umwana we kugira ngo ubwonko bwe bukore neza.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, imbere ye hari umuti wica udukoko twa mikorobe ndetse hakaba hari n'amacupa y'amazi, yambaye amarinete. Ari guhugura abamuri inyuma bose, ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abamama batatu bahagaze ahantu hamwe, bose bafite inkoni mu ntoki. Umumama uri hagati ateruye umwana, ari kumwonsa. Nk'uko bigaragara iyi misozi bayihingamo ibihingwa bigiye bitandukanye ndetse irimo n'ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Umumama wicaye yambaye ishati y'igitenge afite amamenshi, inyuma ye hari ibintu byinshi cyane bigaragaza ko ari ibicuruzwa, birashoboka ko ari umucuruzi ariko nawe akaba afite ibibazo bigiye bitandukanye mu mikorere y'ubwonko bwe.

Inyubako nziza cyane imbere hari ibiti birebire hakaba imikindo myiza cyane umwe uri iburyo Indi uri ibumoso muri iyi nyubako harimo amakaro imiryango ibiri y'ibirahure ndetse n'amadishya y'ibirahuri, aha rero akaba ari mu nyubako baganirizamo abantu bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye bifite ubuzima bwo mu mutwe.

Umugabo wambaye ishati'amaboko maremare yu'ubururu, ahagaze imbere y'abantu benshi cyane hejuru ye hariho ingagi, bihagaragara neza yuko bari gusobanurira abantu ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umukobwa wambaye ijipo ndetse n'agapira, yicaye hasi yiteze agatamba mu mutwe nk'uko bigaragara ashobora kuba afite ikibazo mu mitekerereze ye, kuko ari kureba hirya akareba hinino ukabona yabuze icya akora yahungabanye.

Umusore wubitse umutwe mu biganza, bigaragara ko yagize ikibazo mu mikorere y'ubwonko bwe, hari umwana uri kumuganiriza wasobanukiwe neza ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, akaba yambaye isaha ku kuboko, ari kumuganiriza kandi amuhumuriza.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bari kugenda bahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko, bose bari gusobanukirwa ariko abenshi muri bo ni abayobozi bigaragara ko bari kubibabwira kugira ngo nabo bazabibwire abaturage.

Abantu bateraniye ahantu hamwe ni benshi cyane harimo aba mama ndetse n'aba papa harimo abambaye amarinete ndetse harimo n'abambaye amakoti nk'uko bigaragara rero bari bari mu mahugurwa agengendanye n'ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe basobanukiwe aha bari bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugabo uhagaze ahantu heza cyane inyuma ye hari indabo ndetse imbuga ihari isashemo amapave. Inyubako ni nziza cyane isize irange ry'umuhondo hari amagambo yandikishije ibara ry'ubururu. Iburyo n'ibumoso hari imikindo myiza bigaragara ko uyu mugabo ari umwe mu batanga amahugurwa y'ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, higanjemo urubyiruko nk'uko bigaragara bari gufata ifoto y'urwibutso, aha rero bari bamaze guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko, babajije babasubije kandi basobanukiwe.

Umugabo wiziritse amaguru yombi, yambaye igitenge ndetse yambaye n'umwenda wa siporo hejuru, yifashe mu gahanga hasi yahasashe ibiringiti ndetse n'ibitenge, ku nkuta harashaje cyane, nkuko bigaragara uyu mugabo yaye n'ikibazo cy'ihungabana.

Utu ni udukoresho abaganga bavura amenyo bakoresha cyane cyane iyo bagiye kuba barikuramo cyangwa se kurihoma, kuryoza, n'indi mirimo myinshi cyane bakora mu gihe barikukuvura amenyo.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro, iki ni icyumba kivurirwamo uburwayi bw'amenyo, harimo ibitanda muganga aryamishaho umurwayi mu gihe agiye kumuvura ndetse hakaba hari n'udutebe muganga yicaraho mu gihe ari kumuvura, harimo n'ibikoresho byose yifashisha.

Uyu ni muganga ariko yaje mu kigo cy'amashuri afite umwana muto cyane w'umunyeshuri amufashe ku rutugu yambaye impuzankano y'icyatsi kibisi, hari umugabo hafi wambaye ikote ndetse n'ishati, hari umubyeyi w'umuzungu ndetse hari n'undi muganga utari kugaragara bari kwigisha uyu mwana uko bavura amenyo.

Aha ni kwa muganga uyu ni muganga w'amenyo ari kwandikira umukobwa uhari mwiza cyane uri guseka imiti y'amenyo, aho yishimiye serivisi uyu muganga yamuhaye ari guseka cyane arishimye kuko yavuwe amenyo ye akamera neza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe harimo urubyiruko, hakabamo abakuze ndetse n'abakiri abana, harimo abazungu ndetse abirabura ni bo benshi, bose bambaye utuntu mu ijosi ryabo, bigaragara neza yuko bose bishimiye kuba barabonye abavuzi b'amenyo.

Umugabo usa neza cyane yambaye agapira keza cyane k'umukara, ari kwerekana mu kanwa ke, afite amenyo meza cyane, bigaragara ko yayitayeho akaba asa neza, amenyo ni ubuzima, udafite amenyo ntakintu uba ufite.

Umugabo ufite akantu gakoze muri plastike ari kugorora amenyo ye, ari gushinyiriza maze agashyira ku y’imbere akagorora, amenyo ye bigaragara ko asa nabi, ararwaye ariko byaba byiza agiye kwa muganga.

Iki ni igishushanyo cyerekana mu kanwa k'umuntu, by'umwihariko amenyo uko ari mirongo itatu n'abiri. Aha rero muganga yifashisha iki gishushanyo, mu rwego rwo kwiga amenyo yose naho aba aherereye, ku buryo iyo umurwayi aje akamubwira iryinyo arwaye ahita arimenya nta kabuza.

Abaganga batandukanye bicaye ahantu bari kwihugura ku bijyanye no gukura amenyo, nk'uko bigaragara hari iryinyo ryahengamye, nabo bakaba bafite udukoresho, bari kugerageza kurigorora cyangwa se kurikura mu rwego rwo kugira ngo babimenye neza kandi babisobanukirwe.

Umusore uri kwirebera mu kirahure, ni umusore wambaye agapira keza cyane k'umweru, ufite udusatsi twiza cyane tw'utudirede, akaba afite urudodo mu ntoki, ari kugorora amenyo ye, agaseka, akishima.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru, akaba ateza igitambaro cy'umweru. Afite uburoso bw'amenyo mu ntoki ari koza amenyo ye, akayoza abyitayeho kandi yishimye. Ni byiza koza amenyo kuko birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Uyu musore yashyize urudodo mu kanwa, bigaragara yuko ari kugorora amenyo yiwe muganga yamutegetse kugorora amenyo ye kugirango ngo arusheho kuba meza, uyu musore arabikora amenyo ye akagororoka kandi akarushaho kuba meza nk'uko turi kubibona.

Umusore uri kuvurwa amenyo n'umukobwa mwiza cyane w'umuganga, bari kurebana bose bagaseka, uyu musore rero yagize ikibazo mu ryinyo arangije ajya kwa muganga, muganga amubwira ko bazarihoma, uyu niwo munsi wo kurihoma wageze bari kubikora.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro, by'umwihariko aha bahavurira uburwayi bwo mu kanwa ndetse n'amenyo, turi kubona ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashisha mu gihe cyo gusuzuma ndetse no kuvura amenyo burundu.

Uyu ni umusore wambaye umupira w'umukara, akaba aryamye ku gitanda bavuriraho amenyo kwa muganga, muganga yambaye uturindantoki tw'bururu afiteka imikasi mu ntoki yiteguye gukura iryinyo uyu musore.

Umusore ufite urudodo mu ntoki, ari kugorora amenyo ye. Yashyizemo imbaraga. Nk'uko bigaragara rero, muganga yamwandikiye kujya abyuka mu gitondo, akagorora amenyo. Kugira ngo akomeze kuba meza, kandi ayarinde uburwayi.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro icyumba kivurirwamo amenyo, hari umwana muto uryamye ku gatanda bayavuriraho ndetse n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru, aturindantoti tw'umweru ndetse n'amarinete. Akaba arimo avura uyu mwana.

Aha ni kwa muganga, iki ni icyumba bakuriramo amenyo harimo umuganga uri kuvura amenyo umuntu uryamye ku gatanda, yamushyizemo agakoresho ari kumusuzuma, ubundi nyuma akabona kumukurira iryinyo kugira ngo ritazongera kumurya.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro aha ni ahavurirwa amenyo, harimo abantu bambaye imipira igiye isa irimo amabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo, hakabamo abantu bari kubasuzuma aho, wasama maze akareba mu kanwa kawe niba nta burwayi ufite.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako bayivuriramo uburwayi bw'amenyo. Turi kubonamo ibikoresho bigiye bitandukanye abavuzi b'amenyo bifashisha, hakaba harimo n'amatara bacana mu gihe bari kuvura amenyo.

Umugabo ufite urudo yiziritse ku ntoki zombi, iburyo ndetse n'ibumoso, ari kurushyira mu menyo akayagorora, uyu mugabo rero muganga yamwandikiye ko agomba kugorora amenyo ye uko bukeye n'uko bwije, nkuko bigaragara akaba afite amenyo meza.

Aha ni kwa muganga aho bavurira amenyo. Hari ibikoresho bigiye bitandukanye muganga akoresha mu gihe ari kuvura amenyo, yaba ari kuyasuzuma, kuyakura cyangwase kuyahoma. Rero, ibi bikoresho ni ingirakamaro.

Umugabo uryamye kwa muganga aho bakurira amenyo, hari umuforomokazi wambaye impuzankano y'abaforomo, agapfukamunwa ndetse n'akandi karinda umusatsi, afite akuma ari kumukoza mu kanwa akagorora amenyo ndetse rimwe aranarikura.

Umukobwa mwiza cyane afite imisatsi myiza ndetse turi kubona bari kumukorera amenyo yiwe, amenyo ye yahuye n'ikibazo aza kwa muganga maze muganga na we ari kuyamuvura neza, nawe ufite ikibazo cy'amenyo wagana muganga udatinze.

Aha ni aho batangira ubuvuzi bw'amenyo. Harimo umusore uryamye ku gatanda bakuriraho amenyo, hakaba umuganga wambaye ga, akaba afite agakoresho akoresha ari kuvura, ari kugashyira kuri uyu musore maze na we yateze.

Umusore uri kwirebabera mu kirahure, afite urudodo mu ntoki yarushyize mu menyo ye. Ari kuyagorora kugira ngo amere neza. Amenyo tugomba kuyitaho kuko udafite amenyo nta na kimwe uba ufite, adufasha muri byinshi.

Umuganga wambaye impuzankano akaba yambaye ga, afite agakoresho bakoresha bari gukura amenyo, hari umwana ari gukura iryinyo yateze bigaragara ko yamuteye ikinya kuko umwana ntari kurira ahubwo muganga ari kumuvura neza.

Aha ni kwa muganga aho bavurira amenyo, turi kubona icyuma gikura amenyo kiriho iryinyo ryavuyemo neza, riwe n'umuganga w'umuhanga, hasigaramo umwobo ukomeye, aha rero dukwiye kwirinda indwara z'amenyo zituma badukura.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, yambaye ga zijya gusa umutuku, akaba afite ikintu mu ntoki kiriho amenyo, afite agakoresha abaganga bakoresha bari kuvura amenyo, ari kureba yihugura uko na we abikora.

Abana bato cyane bambaye impuzankano bicaye mu ishuri, bose bafite imiti y'amenyo bayizamuye hejuru. Nk'uko bigaragara iyi ni imiti babahaye kugira ngo bagirire amenyo yabo isuku maze bayarinde indwara ziterwa n'umwanda wo mu menyo.

Umusore mwiza cyane afite urudodo rw'umweru ari kurushyira mu menyo ye maze akayagorora, amenyo ni ubuzima tuyasigasire kandi tuyarinde kuko ni yo dufasha kubaho, utayafite ntiwabasha kurya kandi kubaho byakugora.

Umudamu ukuze yambaye agasengeri ari muri siporo, yarambuye akayesume ahantu mu nzu ari gukora siporo yigorora ari ku amaboko ndetse n'umugongo. Siporo ni ubuzima kandi abantu bakuru barazikeneye kugira ngo bakomeze gukomera maze babeho.

Umumama ukuze ari gukina n'umwana we bari gushyira udupapuro hasi ku meza maze bagatombora bagatanguranwa nomero bose bari kureba nta n'umwe urangaye bari gukina barishimye ababyeyi bose bagakwiye kumera nk'uyu mubyeyi.

Umusaza bigaragara ko ashaje yambaye marinete ndetse n'agapira k'amabokoko magufi, akaba afite agatambaro mu ntoki ka orange, ari kumwe n'umuforomokazi wambaye impuzankano z'abaforomo akaba ari kumwereka ibintu akora, ari gufunga ibipfunsi maze akaramba intoki ze.

Umusaza ushaje yambaye agapira k’umukara, ari kumwe n'umukobwa uri kumwitaho ari kumuha utunini, uyu mukobwa yambaye agapira k'umweru karimo utudomo tw’umukara, afite ama menshi ndetse yambaye n’ipantaro y’umukara, imbere y’umusaza hateretse imashini yitwa laptop.

Umusaza utari kugaragara neza, yambaye ishati y'amaboko magufi, afite intoki zigaragaza ko ashaje, imbere ye hateretse ameza ariho umukino tuzi witwa dame, aho hariho utuntu, ari kugenda akina gake gake kugira ngo yishime.

Ni umusaza uri kumwe n'abana be, abana be baracyari bato ndetse ari kumwe n'umukecuru, bose barishimye harimo abana bato, inyuma yabo hari ibiti byiza cyane bifite amabara meza y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, inyuma yabo hari igikuta kiriho ibara ry'ubururu.

Umupapa wambaye ipantaro y'ikoboyi, agapira k'umweru ni umusaza ariko ari muri siporo, hari umuforomokazi wambaye impuzankanana y'abaforomo ari kugenda amufasha amugororera agake gake, amufashe mu mugongo, inyuma yaho hari igikuta cy'amatafari ahiye.

Umupapa bigaragara ko ashaje ari kugendera ku kantu k'icyuma hari umuforomokazi uri kumufasha gake gake, amutambutsa amwitayeho ari kumufasha kugira ngo nawe yumve ko ari umuntu kandi yumve ko afite icyizere cyo kubaho.

Abamama bakuze bari mu cyayi bari kugisoroma. Aha rero bari kugisarura bishimye cyane. Bombi bigaragara ko bakuze ariko bakaba barihurije hamwe kugira ngo bajye baganira birinde irungu ndetse n'agahinda maze babashe kwiteza imbere.

Aha ni kwa muganga hari umusaza ukuze cyane, hari intebe aba yicayemo, ariko ubu yahagurutse, afashe ku kuma ari kugenderaho gake gake atambuka kugira ngo na we arebe ko yagera aho izuba ryaga akaryota.

Abasaza bakuze bicaye mu ntebe z'imisego. Bose bafite inkoni imbere yabo ndetse bamwe bambaye imikenyero. Abandi bambaye utugofero tw'ababisiRamu bicaye ahantu hamwe bigaragara ko habereye ikirori, cyangwa se bakaba babatumyeho ngo babaganirize.

Wicaye ku ntebe imbere ye hari umukobwa ukiri muto uri kumufasha, ari kumuganiriza maze akishima agaseka akamufasha gukomeza ubuzima, cyane cyane ko abantu bageze mu za bukuru bakunda abantu babitaho maze bakishima.

Abamama bigaragaye yuko bakuze, inyuma hari abakiri urubyiruko. Abo bose bari ku murongo kandi barishimye abamama iyo bari kumwe n'abakiri bato barishima cyane kuko baba bari gusabana, bigatuma babona ko nabo bitaweho maze bigatuma bakomeza kugira amasaziro meza.

Umukecuru ndetse n'umusaza bahagaze ahantu muri saro ku meza hariho ibinini by'amoko agiye atandukanye bakaba bari kubifungura ngo babinywe, ni byiza ko umusaza ndetse n'umukecuru biyitaho kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Umumama ukuze cyane ari kumwe n'umuforomokazi wambaye impuzankano y'abaforomo, ari kumwitaho bagakina maze bose bagaseka barishimye, ubu rero ni bumwe mu buryo bwo gufasha abantu bakuze kugira ngo bakomeze bagire icyizere cy'ubuzima.

Umugabo ukuze wambaye agapira k'ubururu karimo uturongo tw'umweru biragaragara neza cyane ko yishimye ari gukina umukino n'undi muntu utagaragara aho uyu mukino bawita damu arikuwukina ubwo bagenda bimura utuntu maze agaseka.

Umusaza ndetse n'umukecuru bari mu nyubako nziza cyane, umusaza yambaye amarinete, ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro, naho umukecuru yambaye agapira k'ubururu yifubitse akandi k'amaboko, ari kugenda afasha uyu musaza kumanuka ku masikariye.

Umugabo ndetse n'umugore bigaragara ko bakuze, bombi bambaye udupira tw'amaboko magufi n'udusaha ku maboko ndetse n'impeta, bari muri siporo, aho bakomeza gukora siporo kugira ngo bakomeze gukomera, icyizere cyabo bakomeze kugisigasira.

Umukecuru uri muri siporo ari gukurura akantu k'umutuku, kashumikiye ku ntoki ze zombi iburyo ndetse n'ibumoso, uyu mukecuru ari kumwe n'umuforomokazi w'umuzungu uri kumukoresha zino siporo arishimye cyane, abantu bakuze bashimishwa no kubona abababa hafi.

Umukecuru wicaye hasi, inyuma yiwe hari umukobwa wambaye imyenda y'icyatsi kibisi arimo uturongo tw' umweru. Ufite imisatsi y'umukara mwiza cyiza cyane. Bari ahantu aho umukecuru ari kugenda aganira n'yi nkumi maze akishima cyane.

Umusaza wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, hari umukobwa umuri inyuma uri kumusunika umusaza akagenda aseka, inyuma yabo hari ubusitani bwiza cyane, harimo ibiti byiza bigaragara ko aha hantu ari heza, uyu musaza arishimye bigaragara ko ashaje neza.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye mu nzu aho barira, ku meza hariho ibyoku kurya bigiye bitandukanye, hariho imbuto ndetse hariho n'ikirahure cy'amazi, aha rero abakecuru bari kwiyitaho kugirango basaze neza.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye ahantu hamwe, umusaza afite agacupa k'imiti mu ntoki n'aho umukecuru afite igikaratasi kiriho amagambo, bigaragara yuko bari gusoma amategeko ndetse n'amabwiriza agenga uyu muti.

Umusaza ukuze cyane ari kumwe n'umuforomo wambaye baji mu ntoki uyu musaza yambaye ishati y'amaboko maremare afite telefone mu ntoki we n'uyu muforomo kazi ukiri muto bayirangariyemo bari kuyireba umusaza bigaragara ko yishimye.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye ku meza imbere yabo hari ibinini, bigaragara yuko bagiye kubifata, uyu musaza arishimye ndetse n'uyu mukecuru arishimye, mbese kuba bari hamwe buri wese yishimiye undi, kandi bose bishimira ubuzima babayemo.

Umukecuru bigaragara yuko ashaje cyane, yicaye ahantu hari ibyatsi bigiye bitandukanye, urugo rwe rwamereyeho ibintu byinshi cyane ndetse atetse yicaye hanze ku bintu by'ibibuye yateretseho inkono imwe yubikaho indi, abakecuru nk'aba iyo bashaje baba bakwiye kwitabwaho.

Umumama ukuze ari kumwe n'umukobwa ndetse hari n'undi umwe bose bicaye imbere y'ameza bari gukina amakarita, umumama byamushimishije cyane bigaragara neza yuko abantu bakuze iyo bari kumwe n'abana bakiri bato bakina bibashimisha cyane.

Umugabo ukuze cyane yambaye ishati y'ubururu yicaye mu ntebe yambaye n'agapfukamunwa, imbere ye hari umukobwa ukiri muto na we wambaye agapfukamunwa n'ishati y'icyatsi kibisi ari kumufugira ishati bigaragara kari kumuha keya amwitayeho, imbere yabo hari igiti cyiza cyane k'icyatsi kibisi.

Umusaza ndetse n'umukecuru bakaba bicaye muri salo imbere y'ameza, umusaza afite agacupa k'imiti ndetse n'ibinini bibiri mu kiganza, umukecuru nawe afite agakatasi kariho amategeko ndetse n'amabwiriza agenga uwo muti, ku meza hateretseho n'kirahure kirimo amazi.

Umukecuru bigaragara ko akuze ari kumwe n'umukobwa bigaragara ko ari umwana we, ndetse n'akandi kana bigaragara ko ari akuzukuruke, bari imbere y'ameza bari gufata ibyo kurya bya mu mugitondo, umukecuru arishimye cyane, burya ntakiza nko kuba uri kumwe n'umuryango wawe.

Umupapa bigaragara ko akuze, yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'agapira mo imbere, ari kumwe n'umukobwa bigaragara ko ari umukobwa we ukiri muto, bose bari guseka, umukobwa yitaye kuri papa we bose barishimye cyane.

Ababyeyi bakuze bari kumwe n'abana bakiri bato bari kuganira ababyeyi barishimye ,ahangaha rero niho umubyeyi atangira kubona ko kwibyara gutera umubyeyi ineza ,aba barishimye cyane bari kumwe n'urubyaro rwabo ndetse n'urubyaro rwabo rurishimye.

Umukobwa uri muri siporo yarambuye agakeka ahantu mu turabyo, ndetse ari kwigorora aragorora amano, akagurara amavi, akagorora n'amaboko ndetse n'umutwe icyarimwe, uyu mukobwa ari gukora siporo mu rwego kugira ngo yirinde indwara ziterwa no kudakora siporo.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye mu bana babo aba bana barishimye cyane ndetse nabo babyeyi barishimye cyane, hari umubyeyi wicaye hasi uri kuboha agatebo mu duti, aba babyeyi bose bashimishwa no kuba bari mu bana babo kuko bituma bigaragara ko bashaje neza.

Leta yafashe ingamba maze mu gihe icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda cyari kiri gukaza ubukana mu Rwanda ikora ibishoboka byose buri munyarwanda wese ahabwa inkingo zishoboka zose kugira ngo bamurinde ubwandu bw'iki cyorezo.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bari kugenda babahugura, ndetse bafata n'ibyemezo, bari guhugurwa ibijyanye n'ubuzima ndetse bakanzura, bagafata ibyemezo by'uko bagomba gusigasira ubuzima mu bishoboka ndetse n'ibidashoboka.

Abaganga bambaye impuzankanana y'abaganga, bambaye imyenda y'ubururu bakaba bambaye uturinda ntoki ndetse n'udupfukamunwa, bafite ibyuma bipima indwara zigiye zitandukanye. leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo guhugura abaganga kugira ngo abaturage bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ameze neza cyane, yambaye ikote, amarinete ndetse na karuvati, imbere ye hari indangururamajwi nziza cyane ndetse hari na kamera, hari n'isakazamajwi zitandukanye, ari gutanga imbwirwaruhame ndetse hari n'icyapa kiriho ifoto yiwe. Nk'uko bigaragara ni inshuro ya kabiri iyi nama ibaye yiga ku bijyanye n'ubuzima.

Abaganga babiri bambaye impuzankano, hari umusaza wicaye ku ntebe arasamye bari kumusuzuma indwara zo mu kanwa zigiye zitandukanye, aha bari mu ihema bigaragara ko ubu ari ubuvuzi bwegerejwe abaturage, aho wabasanga aho bari bakabasuzuma kandi bakabavura.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati ndetse na karuvati, ari gutanga imbwirwaruhame afite indangururamajwi imbere ye ndetse n'isakazamajwi, imbere ye hakaba hari igishushanyo kiriho ifoto ye nk'uko bigaragara iyi mbwirwaruhame yari yarateguwe.

Igishushanyo kiri mw'ibara ry'icyatsi kibisi hakaba ari amagambo yandikishije ibara ry'umweru aho bagira bati ''ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza inshuro ya gatatu'' hashushanyijeho umutima ndetse n'uturongogo tuvunaguye nk'uko bigaragara bitaye ku baturage.

Iri ni ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye; harimo abamama, hakabamo umupapa; hari umugabo uhagaze wambaye ikote afite indangururamajwi; ndetse imbere hari n'imashini bose bari gufatira hamwe; ingamba zo kubungabunga ubuzima.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe. Bigaragara ko bari mu nzu y'inama irimo intebe nziza, bose barakurikiye. Ni aba mama, aba papa ndetse n'abasore, bari mu nama mpuzamahanga kugira ngo bafate ingamba ku bijyanye n'ubushakashatsi bwakozwe bwa bibiri na makumyabiri na kane ku byerekeranye n'ubuzima.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bari kuganira, imbere yabo hari umukobwa uri gutambutsa ikiganiro, wambaye agapantaro k'umweru ndetse n'agakote k'umukara, n'imbere akaba yambaye agasengengeri k'umutuku ndetse hari n'undi uri kumufotora.

Igihe icyorezo cy'indwara ya covide cumi n'icyenda cyari cyugarije u Rwanda, rwagiye rufata ingamba zigiye zitandukanye, aha rero hari umusore wambaye ijire y'umuhondo akaba yambaye agapfukamunwa k'umweru, yari yaje aje gufata urukingo rwa covide cumi n'icyenda.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, harimo abaganga bambaye impuzankano y'abaganga, udupfukamunwa ndetse n'ingofero mu mutwe, imbere yabo hari imashini bari gusuzumira, nkuko bigaragara bari kwiga ku bijyanye n'indwara z'ibyorezo maze bagafata ingamba.

Benshi cyane bateraniye mu cyumba cy'inama bari gusobanukirwa ndetse bafata n'ingamba ku bijyanye nuko bagira ubuzima bwiza, aba bantu bose barakurikiye barishimye bambaye imipira isa wagirango ngo niyo babahaye kugira ngo babe basa neza.

Abaganga, abatekinisiye ndetse n'abandi bantu bita ku ndabyo bari hano bari kwita ku bijyanye n'ubuzima bose bafashe, ingamba ari uw'ibimera arabyitaho, ari umuganga aravura maze dukomeze kugira ubuzima bwiza, izi ni ingamba zafashwe.

Abantu bicaye ahantu mu nzu y'inama, harimo abambaye amakoti ndetse na karuvati, harimo abambaye amakanzu meza cyane, nk'uko bigaragara rero bari mu ihuriro aho bari bari gufata ingamba zitandukanye ku bijyanye n'ubuzima, hari icyapa kiri inyuma yabo kigaragaza yuko ari ihuriro ry'ubuzima bwa sosiyete bibiri na makumyabiri na kane.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, nk'uko bigaragara ni abayobozi bagiye batandukanye, biganjemo abayobora mu nzego z'ubuzima, bari gufata ingamba ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza, bari mu mahugurwa bari kubasobanurira kandi na bo bateze amatwi.

Inyubako nziza cyane igeretse inshuro nyinshi iba hano mu Rwanda turayizi bayita komvesheni senta hari umuntu uyihagaze iruhande kandi hejuru ye hari amagambo yanditse m'ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi aho bagira bati umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara ya diyabete.

Inyubako iteraniyemo abantu benshi cyane nk'uko bigaragara bari mu mahugurwa, bahuguwe ndetse bafata n'ingamba ku bijyanye n'ubuzima, aha rero buri wese afite icyizere cy'uko buri muturarwanda agiye kugira ubuzima bwiza.

Abazungu ndetse n'abirabura, abasore n'inkumi bambaye amabaji mu ijosi, bahagaze ahantu hasi hari gusa icyatsi kibisi, inyuma yabo hari ibishushanyo bigaragaza igikorwa bari barimo nk'uko bigaragara rero bafashe ingamba ku bijyanye n'ubuzima.

Umuntu mwiza cyane ufite imisatsi myiza, yambaye amaherena akaba afite amaso ndetse n'iminwa byiza, hari icyapa kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umutuku ndetse hejuru hakaba hari umutwe ugira uti umunsi mpuzamahanga w'ubuzima ku isi yose.

Umukobwa wambaye agakanzu kagufi, inkweto ndende na baji mu ijosi, ari kumwe n'umugabo wambaye ikote, baji mu ijosi ndetse n'ishati n'ipantaro ndetse na congo yatebeje, aba rero bakaba bari bari mu kwihugura mu bijyanye n'ubuzima kandi bafashe n'ingamba.

Abantu batatu bose bambaye udupfukamunwa harimo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga bikwije hose yambaye agapfukamunwa ndetse n'icyenda cy'abaganga yambaye marinet ndetse n'akantu ko mu mutwe inyuma ye hari undi mubyeyi wambaye akantu k'icyatsi agapfukamunwa ndetse n'akantu ko mu mutwe hakaba hari n'undi uhagaze imbere wambaye jile y'umukara iriho ikirango.

Abayobozi batandukanye bateraniye ahantu hamwe, bari gufata ingamba zigiye zitandukanye ku bijyanye n'ubuzima. hari abicaye imbere bari gutambutsa ikiganiro, ndetse hari n'abakurikiye, aha rero ni ihuriro mpuzamahanga ryita ku kurwanya Sida ndetse no kuyirinda.

Ni umugabo wambaye ijakete y'umukara, ingofero y'umukara ndetse na marineti, afite icyapa mu ntoki kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umutuku agira ati '' urukingo rwa Monkey pox rwageze mu Rwanda ubu ngubu turi kurukoresha.

Abamama ndetse n'abapapa bahagarariye ibihugu bigiye bitandukanye. Aha ngaha rero bari basoje inama yasinyiwemo amasezerano nyafurika y'ubuvuzi, aho bari gufata ifoto y'urwibutso ku bw'imyanzuro bafashe.

Niyi nyubako icururizwamo imiti turi kubonamo abantu bagiye batandu hari moto ziparitse aho ngaho umumotari uyicayeho yambaye kasike ndetse hejuru y'iyi nyubako hariho icyapa kigaragaza izina ry'iyo farumasi ndetse n'ibigo by'ubwishingizi bakorana nabyo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro igizwe n'inkuta nziza cyane zisize irange ry'umweru amatara hejuru, harimo abaganga bambaye bikwije bambaye ibisarubeti by'umweru birimo uturongo tw'ubururu hari abarwayi barwariye aho, hakaba arimo supaneti bigaragara ko barwaye indwara ya covide cumi n'icyenda.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo ibitanda, hakabamo ibikoresho bigiye bitandukanya abaganga bakoresha bari kuvura, harimo ndetse n'aho bajugunya imyanda mu gihe bibaye ngombwa, aha rero hasi harimo amakaro, hejuru hariho parafo y'umweru ndetse hakaba harimo n'ibyuma byinshi cyane bakoresha.

Inyubako y'ivuriro iruhande rwayo hari agahanda keza cyane ka kaburimbo hakaba indabyo nziza cyane ziconze ,iy'inyubako y'ivuriro isakaje amabati y'umukara ikaba ifite amarangi y'umweru ,ibirahuri by'umukara hakaba hariho amagambo yanditse mw'i ibara ry'umukara agira ati ''inzu y'ivuriro ikorerwamo ubushakashatsi''.

Inyubako y'ivuriro mo imbere turabona inkuta zisize irangi ry'umweru, hakaba harimo ibitanda baryamishaho umurwayi bagiye kumusuzuma, hakaba harimo udusanduku ndetse n'utumeza bashyiraho ibikoresho bari bukenere, maze bikaborohera kubibona mu gihe bari kuvura.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubona inkuta zisa umweru ndetse inzugi n'umuhondo zikoze mu biti hasi ni amakaro harimo icyuma gifata abantu kikabapima maze muganga akabasha kumenya uburwayi bafite hejuru hariho ikara ibigaragaza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro hakaba hari amakaro meza cyane asashe hasi hari ameza akoze neza avurirwaho abantu hari udutebe abaganga bicararaho bari kuvura hari imashini ziri hejuru, hejuru hari parafo y'umweru ndetse n'amatara inkuta ziriho irangi ry'umweru.

Inyubako nziza cyane, imbere y'iyo nyubako hari ibyapa byinshi cyane. Ni ikigaragaza ko nta kinyabiziga cyemerewe guparika aho, hari ikigaragaza ko aho ari ku cyapa cya makumyabiri. N'imbere harimo amabendera y'ibihugu agiye atandukanye ndetse n'imiryango imwe n'imwe, hejuru hariho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi agaragaza ko ari ibitaro bya fayisali.

Ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, hasi harimo isima, ku nkuta hariho irangi ry'umweru, inzugi ni iz'imbaho zikoze mu biti, aha rero iyi nyubako ikaba ivurirwamo abantu aho uza bakakuvura maze ugakira.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubona aho basuzumira harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo mudasobwa hakabamo imashini ndetse inkuta zirasa umweru hariho na purize bacomekamo bino byuma hasi hakaba hari amakaro.

Inyubako y'ivuriro mo imbere harimo ibikoresho byiza cyane bigezweho bifashisha basuzuma abarwayi. Ibi bikoresho ni ibya kizungu kandi birahenze. Iyi nyubako rero irimo ibikoresho bihenze kandi iri vuriro rifite ireme.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro irimo imitako igitandukanye, ku nkuta hashushanyije ibisimba bige bitandukanye, utubabi tugiye dutandukanye turi mu mabara agiye atandukanye, harimo udutanda twiza cyane n'udutebe abaganga bicaraho bari gusuzuma abarwayi.

Inyubako nziza cyane ku buryo buhebuje iratangaje, ifite amabati y'ubururu, ifite inkuta zisize irange ry'umweru, ikagira urwuma, igeretse kabiri, harimo ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, aha rero ni mu kigonderabuzima cya Kanyinya.

Iyi nyubako yo kwa muganga harimo ibitanda bigiye bitandukanye, hakaba hasheho matera nziza cyane kandi nini, harimo amarido y'ubururu inzitiramibu z'umweru hasi hari amakaro, ku nkuta hasize irangi by'umweru ndetse harimo n'utubati abantu babikamo ibikoresho byabo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, mo imbere turi kubonamo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga isa umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umukara, akaba ari imbere y'imashini isuzumwa uburwayi, akaba ari kureba neza niba nta muntu urwaye mu bo yasuzumye.

Inyubako y'ibitaro aha ni mu cyumba, harimo ibitanda hakaba hari ahantu bacagiga ibyuma kabuhariwe bisuzuma abarwayi, ndetse n'aho bashobora gushyira icyuma kimuha serumu, aha ngaha rero bikaba bigaragara ko kuri iki gitanda hariho imiti.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, harimo abarwayi bagiye batandukanye baje kwivuza, nk'uko tubibona ku rukuta hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, aho hagira hati "aho bakirira abarwayi ikigo nderabuzima".

Nziza cyane ikorerwamo ubucuruzi, aha turi kuhabona aho bacururiza imiti bahita forumasi, hari moto ihaparitse iruhande uyirwaye yambaye kasike mu mutwe n'undi muntu uhahagaze wambaye agapira k'umweru, hejuru y'iyo forumasi hariho icyapa cyerekana ibigo by'ubwishingizi bakorana na byo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, inkuta zose zirasa umweru, parafo irasa umweru ndetse harimo n'amatara, aha rero harimo inkingi imwe ijya gusa ubururu ndetse n'icyapa kijya gusa ubururu, kigaragaza yuko ari icyumba cy'indembe.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako irimo abantu babiri, harimo umugabo wicaye ku ntebe ndetse n'undi uhagaze ariko sibo gusa kuko n'inyuma yabo hari undi na we ufite mudasobwa, buri wese agiye afite mudasobwa hanyuma uyu mugabo ari kubasobanurira ku bijyanye no kurwanya malariya.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubonamo abantu bagiye batandukanye b'abaganga, tukabonamo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo utubati, harimo intebe, harimo ibitanda ndetse harimo n'amarido, isima hasi, hejuru hariho irange ry'umweru.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ndi kubona icyapa kigaragaza amasaha bakoreraho, ayo basurirwaho indwara bavura na serivisi zose batanga harimo agahanda ka kaburimbo hakabamo indabyo, inzu isakaje amabati ikerere kirasa umweru .

Iyi ni inyubako y'ivuriro turi kubona umugabo utwaye igare akaba ahetse umukobwa ufite indobo mu ntoki ugiye kuva ku igare hari icyapa ku muhanda kigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Gisenyi mo imbere turi kubona abantu baje kwivurizamo.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, inkuta zirasa umweru. Hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma abarwayi, harimo imashini zijya kumera nka mudasobwa ariko zo zikoreshwa ibindi zita mudasobwa. Hasi hakaba hasa ubururu.

Inyubako yo kwa muganga, aha mo mbere turi kuhabona akandi kantu kubatsemo kagiye kagabanya imiryango kugira ngo babone uko batanga serivisi zigiye zitandukanye, isakaje amabati ndetse igisenge n'icyuma, hasi hari isima, iyi nzu imeze neza.

Ni inyubako nziza cyane y'ivuriro turikubonamo inkuta nziza cyane zisize irangi ry'umweru porafu y'umweru amatara meza cyane harimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'udutanda bavuriraho abarwayi n'udutebe muganga yicaraho ndetse nutumeza aterekaho ibikoresho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro hasi hari amakaro, ku nkuta hariho amagambo yanditsemo ati siporo n'ubuzima imbere yabo hari amavaze arimo indabo, inzugi zifite ibirahure byiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'umutuku nk'uko bigaragara igite ifite utuhesikariye dukoze mu byuma hariho ibirahure byiza ndetse hari n'amatara ajya iruhande rwabo hakaba hari n'ubusitani hakurya hakaba hari amazu atuwemo n'abaturage.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, isakaje amabati, hejuru hakaba hari ibyuma ndetse hari n'amatara. Mu imbere hasi harimo amakaro, hakaba hateretsemo akantu, hateretsemo ikintu ndetse kiriho n'umuryango, aho bagiye bagabanyamo imiryango imwe n'imwe kugira ngo, babone uko batanga serivisi zigiye zitandukanye.

Inyubako y'ivuriro. Mo imbere turi kuhabona inkuta nziza cyane zisize irangi ry'umweru, isaha imanitse ku rukuta, aho bacaginga ibikoresho bakoresha. Ndetse aha ni mu isuzumiro, kuko harimo icyuma gisuzuma abarwayi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ifite inkuta zisize amarange y'umuhondo, hakaba harimo intebe ndetse n'ameza, intebe ni umukara, ameza ni kake, hakaba harimo n'intebe z'imitego, hasi hari amakaro, aha iyo uje kwivuza bakwakira na yombi.

Iyi inyubako yo kwa muganga, aha ni mo imbere, harimo abaganga babiri bambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'udupfukamunwa, bari kureba mu cyuma bashyiramo ibizamini maze bakabisuzuma, aha rero hari urukuta rw'umweru, ndetse hari n'akantu k'icyuma bigaragara ko hari umuryango.

Inyubako y'ivuriro isakaje amabati y'ubururu, ikaba yubakishije amatafari ahiye. Harimo uturongo tw'umuhondo ndetse mu imbere nk'uko bigaragara inkuta zisize irangi ry'umuhondo, hasi hakaba hari sima, iyi rero ni inzu y'ababyeyi.

Iyi nyubako nziza cyane y'ivuriro turikubonamo imodoka nyinshi cyane zigiye ziparitsemo tukabonamo ibyapa byinshi cyane bigaragaza aho batangira amaraso ndetse tukabona n'icyapa kinini kiri ku nyubako hariho inyuguti arabisi ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima

Inyubako y'ivuriro harimo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, yicaye ku gatebe imbere ye hari agatanda bakuriraho amenyo, bigaragara ko yicaye aho ahakorera. Rero, iyi nyubako ifite urukuta rw'umuhondo bikagaragara y'uko aha ngaha bahavuriramo amenyo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro kuri kubonamo umusore wambaye uturindantoki, agapfukamunwa ndetse n'impuzankano y'abaganga akaba afite icupa mu ntoki ari gukanda ku mashini iri hano kugira ngo arebe niba uyu muti wujuje ubuziranenge maze awuhe umurwayi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro igeretse inshuro nyinshi cyane. Yubakishije amatafari ahiye ikaba ibirahura by'umukara hari utuyira abarwayi banyuramo kugira ngo izuba cyangwa imvura ritabanyagira, harimo ubusitani bwiza cyane ndetse harimo n'ibendera ry'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane, iyi nyubako ni ivuriro ryiza cyane ryuzuye, bari mu mirimo yo kuritaha, hari abantu bagiye batandukanye abamama ndetse n'abapapa baje kwirebera iri vuriro ryubakishije amatafari ahiye, ibirahuri byiza by'umukara, abantu bakaba bazajya bavurirwa ahantu heza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ifite amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati y'ubururu, inkuta zisize irangi ry'umweru. Iruhande rwayo hari icyapa kigaragaza izina ry'iryo vuriro ndetse hakaba n'ibiti byiza bitanga umuyaga.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iri vuriro ni rimwe mu mavuriro meza y'u Rwanda rufite, imbere yaho hari icyapa kigaragaza yuko ari ivuriro rya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, iri rikaba riherereye i Butare, haparitsemo imodoka ndetse hari n'umuntu uri kwinjiramo ukeneye serivisi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kuhabona indobo ebyiri hakaba hariho ibirahuri by'umukara biririho utwapa tugenda turanga ibyerekezo ndetse na serivisi zitangirwa aho ngaho. Turi iri kuhabona umugabo wambaye ibintu by'umweru wipfutse ndetse na bote ahetse ikintu ari kugenda atera umuti.

Iyi ni inyubako y'ivuriro turi kubonamo ama etajeri agiye arimo amoko agiye atandukanye y'imiti ama etageri ageretse inshuro zirenze eshanu arimo imiti mu makarito, iyi miti yose ivura abarwayi kandi bakayibonera ku gihe.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, hagiye harimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanya, parafo yaho isa umweru, inkuta zigasa umweru ndetse hamwe hakaba hasa umuhondo, aha hagiye harimo ahantu haranga icyerekezo aho wakwivuriza aho ari ho hose.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro inkuta zifite irangi ry'umweru amadirishya arimo utuntu tw'ubururu, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye kwa muganga bifashisha, harimo utuntu tumeze nk'utwuma aha rero hakaba ari mu bitaro.

Inyubako ndende igeretse inshuro eshatu, iyi etaje yubakishijwe n'amatafari ahiye ndetse n'ibirahuri by'umukara, hariho n'ibyuma bizengurutse hafi aho, hakaba hari ibyapa bigaragaza ko ari mu ivuriro, aha rero ni mu ivuriro.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, hakaba harimo ibitanda bigiye bitandukanye, abaganga baryamisha y'abarwayi mu gihe bari kubasuzuma. Inkuta zikaba zisa umweru ndetse harimo n'imashini bifashisha basuzuma uburwayi.

Abaforomokazi bambaye impuzankano, bari kwifotoza bose bambaye udupfukamunwa, bari kumanika akaboko bakavuga bati:"Twiyemeje kuvura abaturage, tuzabavura twongere tubavure, gutanga ubuzima ni yo ntego yacu".

Inyubako nziza cyane y'ivuriro igeretse kabiri, hakaba hari icyapa gishushanyijeho umugore utwite ndetse hakaba ari amagambo yanditse n'ibara ry'icyatsi kibisi agira ati: inzu y'ababyeyi n'impinja, aha naho ababyeyi babyarira.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iriho inkuta zijya gu gusa ubururu, purafo y'umweru ndetse harimo n'akantu k'ubururu, hakaba harimo igikoresho bifashishija basuzuma abarwayi, aho umuganga akuryamishaho akareba agahita amenya uburwayi ufite.

Iyi ni nyubako y'ivuriro, hari umuntu wicaye aho bategerereza ndetse hari n'undi uri aho bakira abantu, bari kumwakira bakamuha serivisi, yambaye agapira k'ubururu, muri iryo vuriro harimo isaha ndetse hari na televiziyo abantu baba bareba mu gihe bategereje guhabwa serivisi.

Inyubako y'ivuriro mu imbere harimo abantu ubona ko bari mu mahugurwa; imbere yabo bamwe bafite amamashini ya mudasobwa; abandi bafite amakayi ndetse n'amakaramu; imbere yabo hari amacupa y'amazi ndetse abari gutanga ikiganiro bicaye imbere yabo ubona ko bimeze neza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, aha ni ahatangirwa imiti, harimo amayetajeri agiye arimo imiti igiye itandukanye, hari iri mu dukarito, hari iri mu uducupa ndetse ahangaha iyo umaze kwivuza urahaza maze bakaguha imiti muganga yakwandikiye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro hari kugaragaramo ibyumba ndetse n'ababikoreramo. Hari ahari kugaragazwa ivuriro rya mbere, ivuriro rya kabiri ndetse naho abaforomo baba bari. Iyi nyubako yubatse neza hasi harimo amakaro.

Inyubako y'ibitaro harimo ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bakoresha bari gusuzuma umurwayi kugira ngo barebe uburwayi afite. Aha rero turi kubonamo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye hari amahetajeri agiye arimo ibindi bikoresho yifashisha.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, igeretse inshuro zigera muri eshatu, ikaba irimo utubara tw'ubururu, hakaba harimo n'umukara, ndetse isize n'irangi ry'umweru. Harimo umukindo mwiza cyane haparitsemo imodoka, ikirere kirasa ubururu ndetse n'umweru.

Inyubako nziza cyane ivuriro. Ikaba iririmo igitanda muganga aryamishaho umurwayi mugihe agiye kumusuzuma, ndikubonamo akabati gafite ibara rya orange, urukuta rufite ibara ry'umweru, amadirishya afite ibara ry'umukara, ibirahuri ni umweru, parafo ni orange.

Abantu, harimo abirabura ndetse n'abazungu, abazungu nibo benshi, aha rero habaye igikorwa cyo gutaha ivuriro rigezweho, aha bari batashye ibitaro bya Butaro, mu Karere ka Burera nk'uko bigaragara ku cyapa bari kwifotorezaho.

Inyubako y'ivuriro yubakishije amatafari ahiye ikaba ifite inzugi ziriho ibirahure ikaba iriho umuryango usize irangi ry'umweru hakaba hari amagambo yanditse hejuru y'umuryango aho bavuga ngo isange wani sitopu senta aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

N inyubako nziza cyane y'ivuriro irimo ibikoresho bitangaje cyane ahangahe mu isuzumiro aho bazanamo umurwayi bakamuryamisha ku gatanda maze ibyuma biri hejuru bikamusuzuma umubiri wose muganga akabasha kumenya uburwayi arwaye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo ibikoresho by'ibanze muganga yifashisha mu gihe ari kuvura. Harimo igitanda, hakabamo intebe ndetse n'akameza. Si ibyo gusa hari n'akabati karimo irange ry'umuhondo ndetse na oranje. Aha rero ni mu nyubako y'ivuriro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, mo imbere turabona ibitanda byiza cyane by'umweru ndetse biriho matera z'icyatsi kibisi, aha rero hagiye harimo amarido atandukanye umurwayi ndetse n'undi kugira ngo muganga avure umurwayi mu muhezo.

Abamama ndetse n'umupapa umwe, ubahagaze hagati, bari kwifotoreza mu nyubako y'ivuriro, bigaragara y'uko iyi nyubako yuzuye, rero bakaba baje kuyitaha, aho biyemeje kuzakora, kandi bagashyiramo imbaraga kugira ngo batere imbere.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro turikubonamo umusore w'umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba yambaye akarindanto k'umweru, afite baji mu ijosi ari gutera urukingo umusore wicaye ku ntebe, ni byiza kugira inyubako y'ivuriro bwiza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, harimo ibitanda bishasheho materara, ndetse hakora n'amashuka y'umweru, hejuru hari akabati karimo imbuto z'amoko yose, hafi aho hari imashini muganga yifashisha iyo ari gusuzuma kugira ngo amenye umurwayi uburwayi afite.

Inyubako y'ivuriro, aha ni nimo imbere rwagati harimo ibitanda bigiye biriho amashuka ndetse n'abarwayi bamwe bagiye baryamyeho. Harimo abicaye mu tugare iyi' nyubako rero yubatse neza ifite amatara hejuru ikaba ifite inzitiramibu ndetse amarangi y'umweru

Inyubako nziza cyane ifite amarangi y'umweru, ikagira amadirishya y'umukara, aha turi kuhabona umwana wicaye mu kagari k'abafite ubumuga, tukabona indabyo nziza ndetse n'ubusitani, hakurya tukahabona imisozi miremire ndetse muri iyo nyubako imbere yayo hari ikigega, iri rero ni ivuriro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo udutebe tw'umukara, hakaba harimo ameza afite ibara ry'umweru ndetse na kaki, hasi hari amakaro. Inyubako ikaba ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi ndetse bavura abarwayi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatse neza mu buryo bugezweho ndetse hari n'abaforomo bayihagaze imbere bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa, bakaba bambaye n'amabaji mu ijosi babiri muri bo, hari ubusitani bwiza burimo pasiparumu ndetse n'ururabo, iyi ikaba ari inzu y'ababyeyi.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro isakaje amabati atukura, inkuta zirasa umweru harimo indabyo nziza cyane, ndetse harimo n'izimeze nk'amazina, hari abantu bari kugendamo, hasi hasashe amapave mu kayira gahari, aha hantu ni heza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, harimo ibitanda byinshi cyane ndetse birimo abarwayi, hakaba harimo abaganga bari kuvura ndetse hakaba harimo n'abakozi bakora amasuku bari kugenda basukura maze abaganga na bo bavura abarwayi na bo ari ko bavurwa.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, yubakishije amatafari ahiye harimo uturongo turi mu ibara ry'umuhondo, amadirishya ni umuhondo ndetse uruzitiro rukaba ari ibyuma by'umukara, imbere harimo ubusitani harimo basiparumu ndetse n'indabyo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Imbere turabona icyapa kigaragaza ko ari ibitaro bya kaminuza y'u Rwanda biherereye i Butare. Aha rero harimo inyubako nziza cyane ndetse haparitsemo imodoka zigiye zitandukanye, hakabamo ibendera ry'igihugu ndetse harimo n'abantu baje kwivuza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro iteye irangi ry'umweru, ikaba isakaje amabati y'ubururu ifite imireko iyizengurutse, hanze hari utwuma twiza cyane tuyifasha kubika umuriro, hirya hari ibiti birebire bitanga umuyaga kubantu baba bari hafi aho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ifite irangi ry'umweru, hasi hari sima y'umuhondo ndetse inzugi n'umuhondo, hakaba hariho n'ibirahuri, hejuru hari akabara k'ubururu, kabariho amagambo yandikishije umweru aho bagira bati iki ni icyumba cy'isuzumiro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ku nkuta hasize amarangi y'umweru, parafo n'umweru, hariho kamera z'umukara, hasi hari ibikoresho bakoresha bari gusuzuma abarwayi nk'amamashini, intebe baba bicayeho ndetse n'utwuma bifashisha basohora impapuro, aha rero ni kwa muganga.

Inyubako y'ivuriro, iyi nyubako irimo ama etajeri menshi, iruhande rw'iburyo ndetse n'urw'ibumoso, zose zigiye zigereritse inshuro ziri muri enye cyangwa eshanu. Izi etajeri zose rero, zikaba zirimo imiti abaganga baha abarwayi.

Inyubako nziza cyane ni nyinshi kandi ziri ahantu hamwe, aha ngaha rero hakaba harimo ubusitani bwiza cyane, indabyo nziza cyane z'umuhondo, imikindo miremire ndetse n'igiti cy'inganzamarumbo, haparitsemo imodoka aha nk'uko bigaragara ni mu ivuriro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo intebe zigiye zitandukanye harimo n'abantu baje kwivuza hejuru hariho paraho isa umweru ku nkuta hari irangi risa umweru inzugi z'ibirahure ndetse hari n'utwapa tugiye turimo amabara y'umuhondo.

Ni inyubako nziza cyane n'ibitaro inkuta zisize irangi ry’umweru hasi harimo amakaro hakaba harimo ibitanda bakoresha bari gusuzuma abarwayi ndetse imbere ya buri gitanda hagiye hari agatebe iyi nyubako ifite ibikoresho bihagije.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, hasi hari amakaro meza cyane, hariho inzugi nziza cyane zifite umutuku, hakaba hariho seriri, hejuru parafo ni umweru, hariho amatara abengerana cyane, iri vuriro ni ryiza abarwayi baryivurijemo bakira vuba bitewe n'ubwiza bwaryo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, mo imbere harimo inkuta ziririho amarangi y'umweru, hari parafo ziriho amarangi y'umweru, hari amatara, harimo ibitanda byiza cyane biriho matera, hakaba hari inzitiramibu hejuru, ndetse n'amarido aha rero ni mu ivuriro ryiza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turabonamo ibikoresho byinshi cyane byo kwa muganga, harimo ibitanda muganga aryamishaho umurwayi agiye kumusuzuma, turabonamo ibyuma yifashisha ari kumusuzuma nk'iki kiri hejuru aho amuryamisha ku gatanda maze akakimushyira hejuru akamenya uburwayi afite.

Iyi ni nyubako y'ivuriro, hakaba harimo imashini bifashisha mu gusuzuma abarwayi, aho bazana umurwayi bakamuryamisha kuri iki cyuma, maze bakabona uburwayi afite umubiri we wose bakawusuzuma.

Inyubako y'ivuriro iri vuriro ryubatse mu mahema, hari umwana uri gusunika umugabo wicaye mu kagare, ari kumusunika ndetse imbere yabo hari umukobwa bigaragara ko aje kubakira, wambaye agapira k'umweru ndetse n'ijipo y'umukara.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubonamo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, agapfukamunwa k'umutuku ndetse n'akandi kantu mu mutwe, ari kureba mu mashini iri hafi aho, kugira ngo abashe gusuzuma abarwayi maze abahe imiti.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turabonamo umuforomokazi wambaye impuzankano y'abaforomo, tukabonamo ibitanda bisashe ku matera ariko nta murwayi uhari. Tukabonamo amarido azinze. Hasi hakaba hari amakaro y'umweru n'inkuta zirasa umweru.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, inkuta hariho amarangi y'umweru, harimo ibikoresho biri mu mabara y'umukara, ibi bikoresho abaganga babyifashisha basuzuma abarwayi babavura ndetse babasha kubakura ahantu hamwe babajyana ahandi, ibitaro byose byateye imbere biba bifite bino bikoresho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, hasi hari amakaro, hari intebe nziza zifasha abarwayi kwicaraho, hari ibyuma kabuhariwe mu gupima abarwayi, ndetse hejuru hari imashini ihamanitse, hari n'utundi tuntu dutatse ku nkuta nk'isaha ndetse n'ibindi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo umuntu uri kuzinga inzitiramibu, tukabona umurwayi uryamye harimo ibitanda byiza kandi byinshi, hari akadeho gateretse hejuru iyi nzu ifite parafu ndetse ikaba iririmo n'amatara.

Inyubako y'ibitaro, aha ngaha ni mo imbere, harimo umubyeyi wabyaye uteruye akana ndetse hari n'umuforomo umuri imbere wambaye amarinete, amwitayeho ari kumufasha. Uyu ni umuco w'abanyarwanda kandi ni umwuga unoze.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, isize irange ryiza cyane rijya kuba umutuku ndetse n'umukara, harimo intebe nziza cyane z'umutuku, amabati ni umutuku, hari ibyapa bigaragaza serivisi zitangirwa muri iryo vuriro, hakaba ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ku bantu baje bahagana.

Iyi ni inyubako y'ivuriro harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa mu gihe bari gusuzuma abarwayi, hari mu isaha harimo ekara nziza cyane y'umukara, hakaba ibirahuri byiza by'umweru ndetse nk'uko bigaragara hasi hari amakaro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro hasi hasashemo amakaro, ku nkuta hazengurutse imbaho nziza cyane ziri mw’ibara rya kaki, parafo n'umweru ndetse n'umukara, hakaba harimo amatara. Izi nyubako leta yarazubatse kugira ngo igire amavuriro meza.

Inyubako y'ibitaro, turi kubona umuntu uryamye ku gatanda. Aha hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanya muganga akoresha ari gusuzuma. Uyu mugabo ararembye cyane bari kumufasha ku buryo bushoboka bwose aha ari ni mu isuzumiro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubona abantu bicaye imbere yayo, ahangaha ni mu isuzumiro, aha bahasuzumira ibizamini, aho umurwayi aza agatanga ibizami maze agategereza ibisubizo nkuko tubona aba bicaye aha barabirindiriye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turabonamo umu sekerite uhagaze imbere ya gate, tukabona abantu bari gutambuka mu imbere, inyubako zirimo zisakaje amabati y'umutuku ndetse zikaba zifite amarangi y'umuhondo ku nkuta, hakurya turahabona imisozi miremire.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, inkuta zirasa umweru, parafo irasa umuhondo, hagiye harimo inkingi ndetse harimo n'intebe nziza cyane, iz'ubururu ndetse n'iz'umuhondo, hasi nta makaro, iyi nyubako ni nziza kandi abahagana barabavura neza.

Inyubako nziza cyane ifite inkuta z'umweru hasi hari amakaro, aha ni kwa muganga harimo intebe nziza cyane z'ubururu, hakaba aho bakirira byanditseho ko ari urwakiririro, ahangaha rero iyi nyubako itangirwarwamo serivisi z'ubuvuzi.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga, aha binjirira turi kuhabona utuntu turiho irange ry'umutuku ndetse hakaba hariho n'icyapa gishushanyijeho umuntu wambaye amarinete, bigaragara ko hashobora kuba bahavurira amaso, aha rero hari inyubako nziza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro harimo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, harimo ibyuma bifashisha bari gusuzuma abarwayi ndetse hari n'agatanda kariho ibindi bikoresho, aka gatanda rero niko baryamishaho umurwayi maze iki cyuma kikamujya hejuru bakamenya indwara arwaye.

Inyubako nziza cyane, ifite irangi ryiza ry'umweru, hejuru hasize umweru, hakaba harimo amatara, harimo ibitanda by'abarwayi, hari abarwayi baryamyeho ndetse hagiye hariho n'inzitiramibu, hakaba hari akantu k'umuhondo, nk'uko bigaragara iri nivuriro.

Inyubako y'ivuriro, iyi nyubako ni nziza cyane, isize amarangi meza, iteretsemo amavazi arimo uturabyo twiza, aha hantu bigaragara ko hivuriza abakire, hasi harimo amakaro, hejuru harimo amatara ndetse na parafo.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro hari utwuma abana bicundaho, aha rero bazana abana maze bakabashyiraho bagakina, kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza, ndetse n'ubwonko bwabo bufunguke maze bishime.

Inyubako y'ivuriro, ifite urukuta rw'umweru, harimo udutanda bavuriraho abarwayi, ndetse hari n'icyuma kabuhariwe gisuzuma abarwayi, hari irido bashyiraho iyo bagiye gusuzuma umurwayi, hasi hari amakaro, aha hantu ni heza cyane.

Iki ni igikoresho bifashisha basuzuma uko ubuzima buhagaze, iki rero ushobora kugikoresha no muri siporo, aho ukora ugakora maze ukareba uko ubuzima bwawe buhagaze nawe ubwawe wisuzumye ukagereranya n'ibyo ukora.

Umusore uri muri siporo yamanitse akaguru hejuru ku giti, ahagaze ahantu hasa nkaho hazitiye bigaragara ko ari mu kibuga cya siporo, aha rero ugomba gukora siporo kugira ngo ugire ubuzima bwiza, siporo ni umuti kandi iravura ukamera neza.

Umugabo uri muri siporo, yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse afite icupa ry'amazi ku munwa ari kuyanywa. Siporo ni ubuzima, inyuma ye harasa icyatsi kibisi, bigaragara ko hari ibimera bihari maze na we ameze neza.

Umusore uri muri siporo ari gukora siporo agorora umugongo, amaboko ndetse n'amavi, yafashe umukeka urambura hasi, niwo ari gukoreraho siporo, hafi aho hari akantu tutari gusobanukirwa neza, izi siporo rero ni umuti kandi ziravura.

Umuntu uri muri siporo, ari kugorora amaboko, akagora umugongo, ndetse akigorora neza cyane, siporo ni nziza, dukora siporo kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza, ni ngombwa ko buri wese yitabira iki gikorwa kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umugabo uryamye hasi; munsi harimo isume, hejuru hariho barafu isa ubururu; hari umuforomokazi uri kugenda umugorora mu ivi; nkuko bigaragara uyu mugabo yavunitse ari muri siporo; none bari kumuvura kugirango akire vuba.

Umusore bigaragara ko yagize imvune ikomeye ku maguru yombi, yicaye ahantu hejuru umuganga ari kumufasha kumugororera amaguru, amukoresha agasiporo gake gake amubwira ati shinga, gorora maze ukomere, ibi biraza kurangira.

Iyi ni imiti ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gihe umuntu ari gukora siporo, bikunze kuba ku bibuga by'imipira ndetse n'ahandi hantu hateraniye harimo: ga, imikasi, ibinya ndetse n'udukapu babitwaramo, agakapu gasa umutuku, harimo umusaraba w'umweru uri mu kaziga k'umweru.

Umukobwa uri muri siporo afite imisatsi myinshi cyane akaba yambaye agasengeri kagufi ndetse n'agapantaro kamufashe cyane ari kugorora amaguru amano amaboko ndetse n'umugongo, nk'uko bigaragara rero siporro ni nziza tuzikore kugirango ngo twivure uburwayi bugiye butandukanye.

Umusore bigaragara ko yagize imvune mu kuboko, ari kugerageza kukugorora gake gake agukoresha siporo nkuko muganga yabimubwiye. Yamubwiye ko kugorora akaboko na byo ari umuti, maze na we arabyuka mu gitondo akabikora.

Aha ni kwa muganga hakaba ari mu cyumba gikorerwamo siporo, turi kubonamo kizimyawo tukabona muganga afashe umupira mu ntoki, yambaye uturindantoki impuzankano y'abaganga ndetse afite n'akumviro mu ntoki bigaragara ko yiteguye kuvura umuntu.

Umukobwa uri muri siporo. Ari kugorora umugongo ndetse n'amaboko. Yambaye agasengeri n'ipantaro y'umukara. Imbere yiwe hari amavaze arimo indabo. Yarambuye agasambi hasi ni ka ari gukoreraho siporo. Iyi siporo hari igiye muganga ayikwandikira kugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Umukobwa uvuye muri siporo bigaragara ko afite umubiri ukomeye afite isumi ku gatuza afite gurude ku munwa ari kunywa amazi ari kunywa amazi bigaragara ko avuye muri siporo uyu mukobwa rero akora siporo akagororoka kugirango yubahize ibyo muganga yamubwiye.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye ushobora kwifashisha mu gihe uri muri siporo, harimo ga, hakaba harimo uturindantoki ndetse n'udupfukamunwa. Harimo pomade ndetse hakabamo n'indi miti yose wakwifashisha mu gihe uhuye n'impanuka uri muri siporo. Abakora siporo bajye bifashisha iyi miti.

Imiti y'amoko agiye atandukanye yifashishwa mu gihe cya siporo, hari imiti myinshi cyane wakwifashisha maze igihe uhuye n'impanuka uri muri siporo ikaba yagufasha ukitabara, ukabasha kugera mu rugo uri muzima.

Amazi ari mu kirahure, turi kubona ijage iri kuyasukamo, ikirahure gisa ubururu ndetse n'aho hantu harasa ubururu, aha ahantu rero ni heza, aya mazi ni ayo kunywa mu gihe umuntu asoje siporo kugira ngo amere neza.

Ibikoresho byinshi cyane, byifashishwa mu gihe cya siporo harimo igikapu harimo utwuma tugenda dukoreshwa, harimo imiti ndetse harimo n'inkweto, hakaba hahagazemo abagabo babiri ariko biragaragara ko ari ibishushanyo.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu gihe bari gutabara imbabare cyangwa se indembe, gikunze kuba ahantu hakorerwa siporo haba hakenerwa umupira w'amaguru uwo kwiruka ndetse n'indi mikino igiye itandukanye, aho haba hari abakorerabushake umukinnyi uvunitse bagahita bamukura mu kibuga bakoresheje kano gakoresho.

Umukobwa ndetse n'umusore bari kunywa amazi ari mu ducupa, umwe yegamiye undi basoje siporo bari kwigorora, siporo ni ubuzima niyo mpamvu abantu bazikora kuko zirabafasha kandi zikabagirira umumaro.

Umusore uryamye ku gatanda bari kumugorora, bari kugorora amaguru ndetse aryamye yambaye inkweto hari umuntu uri kumukoresha siporo amugorora bigaragara ko yavunitse, uyu akaba ari muganga uri kumufasha kugira ngo izi siporo zimugirerire umumaro.

Aka ni akuma gakoreshwa mu gihe uri gukora siporo, aka kuma rero gafasha abasore kuzana abudomino zi ikomeye, aho bavuga bati yagufasha gukuraho inda bikworoheye aka rero karagurwa neza cyane kandi karafasha.

Iki ni igikapu iki gikapu rero kirimo ibikoresho byose bitandukanye by'abaganga, aha rero ibi bikapu babijyana ahari gukorerwa siporo kugira ngo nihagira ugira ikibazo ahite ahabwa ubutabazi bw'ibanze mbere yo kugezwa ku bitaro.

Igishushanyo kiriho umuntu uri kwirukanka ibi rero bikaba bigaragaza yuko isiganwa ry'amaguru ryongeye ryafunguye ndetse bakaba bashyizeho n'urubuga waboneraho amakuru yose ajyanye n'isiganwa ry'amaguru.

Umusore wambaye insengeri y'icyatsi akaba afite gurude y'amazi ari kuyanywa bigaragara yuko avuye muri siporo, uyu musore yakoze siporo umubiri we urakomeye, ni byiza gukora siporo kuko bifasha umubiri kugira ubudahangarwa.

Umusore wicaye ku gatanda k'abarwayi ahakorerwa siporo, ni kwa muganga muganga ari kumufata akamupfuka akaboko ke agashyiraho bande, maze akamufasha kurambura akaguru, akavuga ati rambura gake gake ukoremo siporo.

Umusore uri muri siporo ari gushyiramo imbaraga zose zishoboka. Biragaragara cyane ko siporo yazandikiwe na muganga, kuko azikorana umurava kandi akazikora neza. Siporo rero ni ubuzima, umuntu agomba kuzikora uko bikwiye kugira ubuzima bwe bugende neza.

Umusore w'inkorokoro wateruye ibyuma wakoze siporo, yambaye akantu ku kuboko, yambaye isengeri y'icyatsi kibisi, afite gurude y'amazi ari kwimena mu maso, bigaragara ko yakoze siporo akananirwa cyane, siporo ni ubuzima.

Aka ni agakoresho kifashishwa na abantu muri siporo, aho ugashyiramo imibare maze ugakora warangiza ukareba ikigero ugezemo ukora nk'aho haba harimo rimwe n'ibice mirongo ine na bibiri, cyangwa se icyenda n'igice kimwe.

Iki ni igikoresho bifashisha mu gihe bari muri siporo. Iyo ushaka gukora siporo urazinduka maze ugafata ibikoresho byose bishoboka, aha rero giteretse ahantu hari umweru, hariho akantu k'ubururu ndetse kiri kuvamo ibintu bimeze nk'imyotsi.

Umusore uri muri siporo ari gukoresha imbaraga nyinshi cyane yambaye imyenda ya siporo ndetse n'inkweto za siporo imbere y'iwe hari amoko menshi y'imbuto ndetse n'imboga afata avuye muri siporo iyo amaze gufata karoti, pome ndetse n'icunga aba ameze neza cyane.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro, hakaba harimo abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse bakaba bambaye n'utugofero mu mutwe bose bambaye amakote meza ndetse abadamu bambaye impuzankano, bahagaze ahantu mo imbere muri sale abicaye imbere yabo hari mudasobwa ziri ku meza.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo siporo, turabonamo ibikoresho bigiye bitandukanye bya siporo, harimo udutanda, harimo utwuma bifashisha bazamura amaboko, bagororana n'umugongo ndetse tukabona n'akabati karimo ibintu bimeze nk'imipira cyangwa se imibumbe y'isi.

Ni amoko y'imiti menshi cyane ateretse ahantu hamwe, harimo ga, hakabamo imiti iri mu ducupa, hakabamo ibinya ndetse hakabamo na bande, ibikoresho byose byifashishwa mu gihe cya siporo, iyo haramutse habayemo impanuka.

Umusore utari kugaragara neza turabona amaboko ye, afite ukuboko ari kugorora akagushyiraho barafu, maze akagorora cyane agakora siporo nk'uko muganga yabimutegetse kugira ngo yumve ko akaboko ke kamera neza.

Abantu bari muri siporo rusange ni ahantu hari ikibuga kigaragara nk'icya basiketi hari abantu benshi cyane nkuko bigaragara inyuma yabo hari ihema rihari hakaba hari amazu meza aha aba rero bari gukora siporo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

nyubako nziza cyane aha ni ahakorerwa siporo ku bantu bavunitse ingingo, iyo wavunitse urugingo urwo ari rwo rwose, muganga akwandikira kujya mu cyumba gikorerwamo siporo maze akagushyira kuri iki kimashini, kikakugorora ukagororoka neza.

Umusore uri muri siporo izi ni siporo wandikirwa na muganga, akakubwira ko byibuze ugomba gukora siporo kabiri mu cyumweru cyangwa kabiri ku munsi bitewe n'ikibazo ufite. Uyu musore rero ari kubikora kandi akabikora neza uko bikwiye.

Iki ni kimwe mu bikoresho byifashishwa bari kuvura ahantu hakomerekeye muri siporo aho bafatiye bande bakayizengutsa ku rugingo rwavunitse kugira igufwa ryegerane, niba uvunikiye muri siporo ihutire kugura kino gikoresho kigufashe.

Igikapu kirimo imiti ikoreshwa muri siporo, muri iki gikapu harimo amoko y'imidage atandukanye harimo: ibinya, harimo ga, harimo bande, ndetse n'indi yose ikenerwa mu gihe hagize uyikenera.

Iyi ni inyubako nziza cyane by'umwihariko aha ni kwa muganga ariko hakaba hakorerwa ubugenzuzi ku bantu bavunitse inkingo aho bahakorera siporo. Iki cyuma ukijyaho kikakugorora urugingo urwo arirwa rwose wavunitse. Turi kuhabona amayetajeri babikamo imiti igiye itandukanye.

Umusore wambaye ikabutura y'ubururu irimo uturongo tw'umweru, yambaye udukufi ku ntoki, afite imisatsi y'amadirede yambaye agapira k'umukara, ari mu kibuga cyiza cyane gisa icyatsi kibisi, harimo akantu ari gukoreraho siporo, arigorora ari kugorora amaboko, amaguru ndetse n'umugongo.

Abaganga bambaye inguzankano, bahagaze hamwe barateranye, bari kungurana ibitekerezo ku cyafasha abantu bakora siporo, kuba ingingo zabo zakomera ndetse zigatandukana burundu no bazavunikira mu bikorwa bakora.

Umusore uri kwirukanka cyane, biganza bibiri bifatanye, umusore ufite akagozi mu ntoki, icyapa bigaragaza Crouix Rouge, aha biragaragara ko hazaba amarushanwa agiye atandukanye kandi ashingiye kuri siporo.

Umuntu usa nkaho yavunitse akaboko, yishyize barafu ku kuboko, aho ari kugukonjesha kugirango arebe ko kwagororoka, aha rero ari kugenda agorora cyane akora siporo mo gake gake kugirango ngo ukuboko kwe kongere gukore.

Umukobwa uri gukora siporo ari kwigorora yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agapantaro kamufashe cyane, imbere ye hari udukoresho akoresha akora siporo ndetse hari n'imashini imuri imbere ya mudasobwa ari kurebamo umuntu uri gukora siporo maze akamwigana.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu gihe uri muri siporo, cyane cyane iyo wandikiwe na muganga. Ugomba gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi bigezweho, aho ugorora umubiri. Maze nawe ubwawe ukumva ko imbaraga zaje, ukiyumva neza ukazajya gushimira muganga.

Umukobwa uri muri siporo yambaye agasengeri ka oranje, yambaye isa ku kuboko ndetse yambaye na ekuteri mu gutwi. Imbere ye hagaragara nka hari ibintu by'ibibuye birunze cyane. Uyu mukobwa ari kurambura amaboko, umugongo ndetse n'imitsi.

Umusore wavunitse ivi ubwo yari muri siporo, turi kubona ivi rye rishushanyijeho utuntu, harimo ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umutuku, yambaye aga kabutura k'umukara, aha rero muganga yamwandikiye gukora siporo, kugorora ingingo zo mu ivi kugirango abashe gukira vuba maze asubira muri siporo.

Inyubako nziza cyane iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu. Hejuru hakaba hari amagambo yandikishije ibara ry'ubururu agira ati: ''Tresor hospital.'' Bikaba bivuze ko ari ibitaro bya tresor. Aha hakaba hakorerwa na siporo.

Umusore wambaye agapira k'umukara akaba afite telefoni mu ntoki, hari umuganga uri kumugororera ukuguru nk'uko bigaragara yari ari muri siporo aratikira maze aravunika ku bw'amahirwe ahita abona abamwitaho.

Umwana muto cyane bamuryamishije hasi bari kumugorora, aha rero bari kumukoresha siporo kugira ngo agororoke ingingo zimwe na zimwe, hari abaganga ndetse hari n'ababyeyi bari kugenda bamukurikirana bamwitayeho.

Aha ni ahantu ubona ko habereye igikorwa cy'imikino, hari udukapu tubiri turimo imiti ifasha abakomeretse. Aha rero hari n'abantu nubwo batagaragara neza babafasha, aho ari bo bajyana iyi miti maze bakabavura.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi, akaba afite isume y'umuhondo mu mugongo, afite gurude y'ubururu y'amazi ari kuyanywa. Aho bigaragara ko avuye muri siporo inyuma ye hakaba hari ibimera byizaza cyane bitanga umuyaga.

Umusore wicaye hasi ari gukora siporo, ari kugorora amaboko akagorora amaguru ndetse n'umugongo icyarimwe, yicaye mu muhanda wa kaburimbo, inyuma ye hari indabyo nziza cyane zakuze ziba ndende. Siporo ni nziza tugomba kuzikora kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kumererwa neza.

Umugabo ukomeye cyane wakoze siporo kandi n'ubu ari kuzikora, yambaye isengeri inyuma ye hari ibiti by'icyatsi kibisi. Ari gukora siporo akigorora, akongera akigorora. Izi siporo muganga arazikwandikira kugirango ubuzima bwawe bugende neza.

Abantu bateraniye hamwe bateraniye mu nyubako ,hasi harimo amakaro ,hakaba harimo amarindo ,imbere yabo hari akamashini kariho imashini yerekana amashusho ,hakaba hari umuganga wambaye nawe impuzankano y'abaganga uri kugenda ubasobanurira ndetse abereka n'amashusho.

Umusore ndetse n'umukobwa bashoje siporo. Umukobwa arahagaze umusore aricaye. Umusore ari kunywa amazi, umukobwa ari kwinanura. Bose bafite ibikapu hasi, hakaba hari ubwatsi bwiza cyane buteye inyuma yaho. Aha rero bigaragara ko siporo ari ubuzima

Umusore uri muri siporo yambaye isengeri yambaye n'isaha k'ukuboko ari kugorora amaboko afite amaboko meza cyane manini bigaragara ko yayagoroye imbere ye hari inyubako zituwemo nyinshi cyane nk'uko bigaragara uyu umusore ameze neza.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe hari kuba siporo, kuko hari ubwo umuntu uri gukora siporo ashobora kuvunika, maze bikaba ngombwa ko akenera umuti, aha rero bahita bakuvura kugira ngo ukomeze siporo zawe.

Umusore uri muri siporo yakoze siporo azenguruka ikibuga, ikibuga yicayemo kirimo basiparumu z'icyatsi kibisi, uyu musore rero ari kugorora akaguru ke bigaragara ko yagize ikibazo ari gukora siporo ariko akaba ari kwivura.

Umusore wambaye inkweto zikoranwa siporo zizwi nka godiyo yambaye impuzankano y'abakinnyi tuzi nka jezi yicaye ku gatanda bari kumuvura bigaragara ko yakomerekeye muri siporo.

Umusore uri muri siporo, uyu musore yavunitse akaboko ariko akomeza gukora siporo, afite ibituza binini ndetse ku maboko ye hari utuntu dushushanyije mabara y'ubururu, ndetse n'umutuku uyu musore akora siporo nka bumwe mu buryo bwo kwivura.

Agasanduku k'imiti, harimo amoko agiye atandukanye y'imiti yifashishwa mu gihe cya siporo, iyo habayemo impanuka, aha rero harimo pomade, hakabamo bande ndetse n'ubundi bwoko bw'imiti, aka gakapu gasa n'icyatsi kibisi.

Ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo, aha turi kuhabona amagi, umugati, ibishyimbo, ubunyobwa, imineke, amagi, urusenda ndetse n'urutunguru n'inyanya, ibi rero bifasha umuntu wakoze siporo.

Icupa ry'umweru rifite umunwa ushongoje rikagira n'umukondo, hariho akapa k'umukarakaba hakaba harimo n'akadomo k'umutuku kanditsemo amagambo agira ati :'' Sitopu.'' Uyu rero ni umuti wica udukoko, uyu muti ukunzwe gukoreshwa n'abantu bari muri siporo.

Ikirahure giteretse hasi bari gusukamo amazi. Amazi kuva mu ijage akajya mu kirahuri, aya mazi anyobwa n'abantu bamaze gukora siporo, iyo umaze gukora siporo ukanywa amazi umubiri wawe uragenda ukamererwa neza maze ugakomera nawe ukabyumva.

Iyi ni imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo, ku buryo hagize ugira impanuka ahita ahabwa ubutabazi bw'ibanze, aha rero turi kuhabonamo bande, tukabonamo ibinya ndetse tukabonamo na pomade, iyi miti yose irifashishwa.

Icupa risa nk'aho ari rigufi rifite umukondo ndetse n'umunwa ushogoje hariho akapa k'umukara karimo amagambo agira ati sitopu aka rero karimo umuti wifashishwa igihe cya siporo cyane cyane ku bantu bari kwica mikorobe.

Ibi ni bimwe mu byigisha abantu kuba bakora siporo, ibi bikunze kuba biri kwa muganga aho bacaginga umuntu maze akeguka, aha rero niko natwe iyo dukora siporo ubuzima bwacu tuba tubugirira umumaro kandi tubukangura.

Inyubako yubatse neza, mo imbere harimo ibikoresho bikoreshwa hakorwa siporo, iyi siporo ikorwa n'umuntu urwaye umugongo, wavunitse akaguru, wavunitse akaboko, ahangaha babashyiramo bakaryama maze imiti ikagororoka neza cyane.

Umukobwa uri muri siporo, ameze nk'ufite maji, ari kugorora umugongo, amaguru yombi icyarimwe, amaboko yombi icyarimwe, ndetse n'izosi ryicaye hasi, yarambije, ari gukora siporo mu buryo butangaje kuko n'umusore ntiyabishobora.

Aka ni agakoresho kifashishwa batwara umuntu wagize impanuka muri siporo, ubwo baba bamukura nko mu kibuga cyangwa se mu muhanda. Mu gihe barindiriye imbangukiragutabara ngo imugeze kwa muganga. Aka gakoresho rero karafasha.

Umukobwa ubyibushye yambaye agasengeri gato cyane akaba yambaye ikabutura y'ubururu aha rero yifashe akaguru ari kugorora ukuguru akagorora umugongo ndetse n'ukuboko, siporo ni nziza tuzihagurukire tuzikore cyane cyane abantu bafite umubyibuho ukabije.

Umusore uri muri siporo yambaye agapira k'umutuku ndetse yambaye n'ikabutura y'umukara irimo uturongo tw'umutuku, yambaye inkweto za siporo, ahagaze ku kantu kariho amapine ari kugenda agorora umugongo ndetse n'amaguru, akora ku dukona turi aho hasi ndetse imbere ye hari na balo.

Iyi nyubako y'ivuriro cyane cyane aha ni abavunitse ingingo bakora siporo, turi kubona umusore wicaye mu gatanda akaba ari kurambura akaguru ke kugira ngo kabashe kurambuka, hari umuganga uri kubimufashamo umuhagaze imbere hasi hakaba hari amakaro.

Iyi ni imyitozo icumi ushobora gukora kugira ngo wongere usubire ku murongo nyuma yo kugira impanuka ubwonko bwawe bugahungabana, ibi rero byanditse mu mabara y'ubururu ndetse n'ay'icyatsi kibisi, bitanu bya mbere ni byo biri mu mabara y'icyatsi kibisi, hanyuma ibindi bitanu bikaba biri mubara y'ubururu.

Umusore bigaragara ko yavunitse amaguru, afashe utwuma hari umuganga uri kugenda umutwara agake gake nawe yicaye ku ntebe, ari kugenda amubwira ati gerageza utere intambwe imwe wabishobora kora agasiporo gake gake amaguru azamenyera.

Umukobwa uri muri siporo, ari kugorora amaboko ye yombi, afite imisatsi y'amamenshi, akaba yambaye akantu k'umukara mu gahanga, ikirere ni ubururu, nkuko bigaragara siporo ni ubuzima, ari gukora kandi kugirango agire ubuzima bwiza.

Umusore wavunitse ubwo yari muri siporo, afite umuti ari gushyira ku ivi arigorora gake gake arikokoresha siporo kugira ryongere ikore neza. Igufwa hari ubwo riba ryatanye wakora siporo gake gake rigasubirana maze ukaba wabasha gutambuka.

Umusore uri muri siporo. Yambaye agasengeri k'umukara, ipantaro y'itiriningi ndetse n'inkweto za siporo. Yambaye ekuteri mu matwi ari gukora siporo. Agorora umugongo, agorora amaguru ndetse n'amavi. Aha ngaha rero nkuko tubibona, uyu muganga yamwandikiye imiti.

Umusore uri mu nzu ikorerwamo siporo, imbereye hari umuntu uri kuzimukoresha. Ni umusore ufite amaboko manini ndetse n'amatuza manini, yambaye agapira k'ubururu, agakabutura k'umukara, ateruye ibintu by'umuhondo mu maboko ye yombi bigaragara ko biremereye.

Iki ni ikirahure gitetse hasi, hejuru hari jage ifashwe n'ikiganza kitari kugaragara neza. Bakaba bari gusuka amazi asukuye mu kirahure, hari umusore uvuye muri siporo kugira ngo ahite ayanywa. Amazi ni ubuzima, nawe jya uyanywa mu gihe uvuye muri siporo.

Aha ni mu cyumba, iki cyumba kikaba gikorerwamo siporo, aho abaganga baba bagorora abantu bagize ibibazo by'imvune, nk'umugabo umwe turi kubona hano afite ikibazo cy'umugongo, hari abaganga babiri bari kumugorora.

Uyu musore yavunikiye muri siporo maze agerwa kwa muganga, bari kumuvura cyane kugira ngo akire vuba, bari kumupfuka mu kiganza bagerageza kurambura intoki ze ndetse n'ingingo zagiye zikomereka. Nawe niba ukomeye turi muri siporo ihutira kugera kwa muganga maze bakuvurire ku gihe.

Umusore wavunikiye muri siporo, muganga ari kumwitaho, ari kumuzirika bande ku kirenge, ariko akamubwira ngo kigorore, akamukoresha agasiporo gake gake kugira ngo hakomeze hamere neza kandi hakire vuba bidatinze.

Umusore uri muri siporo yambaye isaha k’ukuboko, yambaye isengeri y'umukara, ndetse n'ikabutura y'umukara. Ari kugorora ukuguru kwe, ndetse afashe ukuguru kwe kw'ibumoso agufatisha amaboko yombi, ariko kugorora gake gake nk’uko muganga yabimwandikiye.

Inyubako y'ivuriro, ahangaha hajyanwa abantu bafite ibibazo byo kutababasha kubona siporo ku gihe. Harimo umuforomo yambaye agapfukamunwa ndetse n'impuzankano y'abaforomo. Hakaba harimo umubyeyi wambaye agapfukamunwa nawe afashe umwana mu ntoki bari kumusuzuma.

Umugabo bigaragara ko afite imbaraga ari ahantu heza cyane. Inyubako irimo ibikoresho bimufasha gukora siporo, yizitse akaguru ari kuzamura maze akagorora umugongo ndetse n'akaguru siporo ni ubuzima tuyitabire.

Inyubako nziza cyane, iki kikaba ari icyumba gikorerwamo siporo, harimo ibitanda, harimo intebe ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa muri siporo, hejuru hariho amatara, inkuta zisize irangi ry'umweru, hasi hakaba amakaro.

Agatanda gafite amapine ane hakaba hariho aho bicara ndetse n'aho bashyira utuntu. Aka gatanda gakorerwamo siporo cyane cyane ku bantu bagize ubumuga bw'ingingo aho bicaramo bagatambuka gake gake kabagorora. Igihe ugize ikibazo barakaguha ukakifashisha.

Amoko y'imiti akomoka ku bimera amwe ari mu macupa andi ari mu bikarito ateretse ahantu, inyuma hari amabara meza cyane ndetse hari n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru aho bavuga ati "tangira urugendo rwawe we uwibikaho."

Icyapa kigaragaza ikigo cy'ivuriro, gikozwe mu nyuguti ya pa ireba ibumoso ndetse hakaba hari n'indi nyuguti. Aha rero hakaba handitse ngo ivuriro ry'akagera. Nk'uko bigaragara ni ivuriro rivura kandi ritanga imiti gakondo.

Agacupa k'umuti aka gacupa ni umweru kakaba kariho magambo yandikishije ibara rijya kuba umutuku ariko wijimye hariho igishushanyo cy'umubu uyu muti ukozwe mu bimera ariko uvura indwara nyinshi cyane harimo na malariya.

Ubwoko bw'ikimera buri ahantu heza cyane. Iki kimera kizwi ku izina rya kapusine. Iki kimera rero gikorwamo imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera kandi ivura indwara zigiye zitandukanye, aha rero baragisoroma bakakivuguta bakagitunganya neza maze bakakinywa bagakira.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye birasa icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo. Ibi bimera rero nibyo byifashishwa mu gutegurwamo imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera. Iyi miti iravura kandi abarwayi benshi bakunze kuyigura.

Ibimera bigiye bitandukanye biri ahantu hamwe hari uruzitiro rukoze muri senyenge, ibi bimera bifite amababi y'umuhondo, ibimera birategurwa neza bigakorwamo imiti y'amoko atandukanye, ivura indwara zigiye zitandukanye.

Agacupa gato ariko karekare karimo ubwoko bw'umuti, uyu ni umuti ukomoka ku bimera, bafata ibimera bakabitegura neza bakabitunganya maze bagakuramo amavuta, ibiri muri aka gacupa rero ni amavuta y'uruhu.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye turi kubona ibinini, tukabona ibibabi ndetse n'agacupa gatereretse aha, ibi bimera rero bikorwamo imiti byaba binini ndetse ifu n'isukika, iyi miti ikavura neza cyane.

Agakarito karimo imiti ikomoka ku bimera ,aka gakarito kagizwe n'amabara meza cyane ajya gusa ubururu ndetse n'iry'icyatsi handitseho amagambo asobanura iyi miti, iyi miti ikomoka ku bimera kandi iravura.

Ikimera kiza cyane cy'icyatsi kibisi, kirandaranze gifite amababi meza cyane y'icyatsi, iki kimera rero urabona ko gihinze ahantu, hari n'ibindi biti iki kimera baragifata bakagitunganya neza, maze bakagikuramo umuti uvura.

Uducupa twiza cyane turimo imiti ikomoka ku bimera, igiye ifunze mu tuntu tugiye dutandukanye, hari iri mu ducupa tumeze nk'utubido, hari iri mu ducupa duto, ndetse hari n'indi iri mu bintu bimeze nk'ibya korogate, iyi miti yose ikomoka ku bimera kandi buri wese yahitamo uwo yifuza.

Amacupa agiye atandukanye ateretse ahantu hamwe, aya macupa yose arimo imiti ikomoka ku bimera kandi kuri buri cupa hariho icyapa kigaragaza izina ry'umuti urimo, icyo uvura ndetse n'uko ukoreshwa kugira ngo abawuguze batabyibeshyaho.

Iki ni icyatsi, iki cyatsi rero kikaba ari umuti. Iki cyatsi baragihinga, bakakibagara, bakagisarura, bakagitunganya neza, maze kikavamo umuti uvura, abantu bawunyweye bagakira.

Agacupa gato kameze nk'akavamo korogati ariko si korogati ivamo, ahubwo handitseho serumu. Aka gacupa rero karimo umuti ukomoka ku bimera, cyangwa se umuti gakondo barawutunganyije neza bawushyiramo kandi iyo uwufashe urakuvura ugakira neza.

Agatasi k'umweru gateretse ku gasahani hakaba hariho amaronji akase, ndetse muri ako gatashye harimo umutobe w'amaronji, uyu mutobe wa maronji rero ni umuti ni umuti ukomoka ku bimera aho ushobora kugira ikibazo ukabonywa.

Umusore wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'ubururu, imbere ye hakaba hari amoko agiye, atandukanye y'imiti gakondo cyangwa se imiti ikorwa mu bimera akaba yashyizeho imyirondoro, igaragaza yuko ari umuvuzi wa gihanga kandi akaba atanga imiti yizewe.

Amoko y'imiti agiye atandukanye, hari afungiye mu ducupa ndetse hari n'afungiye mu bikarito. Iyi miti rero ikorwa mu bimera aho bayitunganya neza barangiza bakayifungiramo hano, iyi miti iravura kandi irizewe.

Itasi iteretse ku gasahani irimo umutobe w'indimu, uyu mutobe rero bafata indimu bakazikata maze bakazikamura, turi kubona tangawizi imbere yaho nayo bayishyiramo, maze uyu ukaba ari umuti mwiza w'ibikomoka ku bimera.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera harimo ibiti birebire ndetse n'ibindi bigufi nkuko bigaragara rero ibi bimera biratunganywa neza maze hakavamo imiti myiza cyane ivura, nawe rero ufite uburwayi wagana bano bantu bakagusoromera imiti.

Amoko y'ibimeragiye atandukanye, ibi bimera rero bikaba bikorwamo imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera. Aho babisarura bakabyanika, bakabitunganya neza maze bakabikoramo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Aha ni mu isoko, iri soko ricururizwamo imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera. Turabona iri mu macupa manini ndetse n'iri mu macupa mato, ndetse tukabona n'idatunganyije ahubwo ikiri uko yagasaruwe. Iyi miti rero iravura neza.

Agacupa gato karimo imiti gakondo. Iyi ni imiti ikorwa mu bimera. Hari agasimba gashushanyijeho. Aka gacupa ni umweru, kakaba gafite umupfundikizo w'umukara. Hakaba hariho amagambo yandikishije ibara ry'umukara. Uyu ni umuti uvura, kandi byizewe.

Ahantu hari ibimera byinshi cyane by'icyatsi kibisi, hakaba harimo uturarobyo bw'umweru ndetse n'umuhondo. Ibi bimera bitegurwa neza maze bikavamo umuti aho bakuramo uw'amazi cyangwase ibinini bitewe n'uwo bifuza.

Utu ni uducupa tw'imiti, harimo amoko agiye atandukanye y'imiti, kandi turapfundikiye neza, harimo ijya gusa umutuku, harimo ijya gusa umukara ndetse indi ijya gusa umuhondo, iyi miti yose iravura.

Agasekuru gateretse hagati y'ibimera by'icyatsi kibisi, aka gasekuru karimo umuhini aka gasekuru bigaragara yuko kifashishwa bari gutunganya umuti ukomoka ku bimera inyuma yaho karasa umweru, nk'uko bigaragara rero uyu ni umuti mwiza.

Aya ni amoko y'imiti akomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo, ari mu mabara agiye atandukanye. Iyi miti iravura kandi uyinyweye akira vuba akamera nk'uwivurije kwa muganga.

Udukarito ndetse n'uducupa harimo imiti, iyi miti ikaba ikozwe mu bimera aho bayitunganya hari iyongera imirire, hakaba iyongera apeti ndetse n'ivura uburwayi bugiye butandu, iyi miti rero irizewe.

Abantu bari gutambuka, imbere yabo hari umugezi uri gusuma, ku mpande hari ibimera byiza cyane, nkuko bigaragara bagiye gusarura ibi bimera kugira ngo babikoremo umuti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera.

Amoko agiye atandukanye iteretse hasi ku musambi, iri mu tuntu tugiye dutandukanye, hari iri mu tuntu tubumbye tumeze nk'udukono, hari iri kutumeze nk'udusahane ndetse hari n'indi iri mu gasekuru bari gusekura, bigaragara ko iyi ari imiti ikomoka ku bimera kandi ivura.

Aya ni amoko y'imiti ikomoka ku bimera iri mu tuntu tugiye dutandukanye, hari iri mu kintu kinini kimeze nk'akabido gifite umupfundikizizo w'umukara ndetse kikaba gisa umuhondo, indi iri mu tw'umweru bitandukaniye ku mifuniko.

Umuntu uhagaze hagati mu bimera bigaragara ko ari kugenda asoroma imiti, harimo ubwoko bwinshi bw'ibimera, ibi bimera rero bikaba bivamo imiti myiza cyane, aha ngaha ari kuyitegura ngo azayitunganye maze ayikore neza.

Uducupa twiza cyane turimo imiti ikomoka ku bimera. Aha rero harimo uducupa tw'umweru ndetse hari n'akandi gasa umukara. Hari amoko y'ibyo bimera iyi miti yaturutseho kandi kuri buri cupa hagiye hariho akapa kagaragaza ubwoko bw'uwo muti.

Aka ni akajerekani karimo umuti, uyu muti ukozwe mu bimera ibimera barabifata bakabisarura aho bihinze bakabizana bakabitegura neza bakabikuramo; umuti waba uw'amazi cyangwa se ibinini, uyu rero ni uw'amazi nk'uko bigaragara hano ni litiro ebyiri, ukaba witwa Emupidi.

Ikiganza gifite uburoso bw'amenyo ndetse n'ikindi gifite umuti w'amenyo gifite umuti w'amenyo kirigusukira uri gutega uburoso bw'amenyo ,uyu ni umuti ukomoka ku bimera woza amenyo maze akererana.

Ibimera biri ahantu ubona ko hijimye, ibi bimera bifite amababi y'icyatsi kibisi, harimo ibicitseho ndetse n'ibindi bizima birebire, ibi bimera bikaba bitunganywamo imiti ikomoka ku bimerara myiza cyane kandi ivura.

Icupa riteretse ku kantu kameze nk'akabasi, hateretsemo isekuru ndetse n'umuhini, hakaba hari ibimera birambitse hafi aho, bakaba bari kubisekura maze ngo bakuremo umuti, uyu muti urifashishwa kandi uravura.

Aya ni amoko y'imiti: iyi ni imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera, turi kuhabona amababi, imbuto, ndetse n'ibindi bikiri mu murima ibi rero birifashishwa mu gihe bari gutegura uwo umuti ukavura abantu bagakira.

Ahantu hateye utudobo twinshi, utu tudobo turimo abara agiye atandukanye, umuhondo, umweru, kaki ndetse hagiye harimo n'ubururu bukeya ndetse n'amagambo yandikishije ubururu. Iyi rero ni imiti ikomoka ku bimera yamaze gutunganywa.

Uducupa tubiri, agasekuru ndetse n'agahini gato, hafi aho hari ibimera bigiye bitandukanye by'icyatsi kibisi, aha rero aka gasekuru bagasekuriramo umuti maze bakawutunganya, bakawukora neza maze ukavura abantu.

Amoko y'imiti ikomoka ku bimera menshi cyane, hari amafoto agera mu munani abigaragaza. Aha ngaha rero bagaragaza y'uko ibi bibabi babifata bakabitunganya maze bikavamo imiti ivura, hashobora kuvamo ibinini cyangwa se imiti isukika.

Icupa ririmo umuti ukomoka ku bimera, iri ni icupa ryiza ry'umweru rifite umupfundikizo w'ubururu, ishushanyijeho agakoko mu ibara ry'ubururu, handitseho amagambo nayo yandikishije ibara ry'ubururu, kakaba ari agacupa keza cyane.

Ni uducupa turimo imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera. Aha rero harimo utubido dusa umuhondo n'utundi dusa umweru; hose hagiye handitseho amagambo asobanura izina ry'uwo muti ndetse n'icyo ukora. Hakaba hari n'undi uri mu tuntu tumeze nka korogati. Hakaba hari n'igikakarumba kirambitseho hafi aho.

Amacupa y'ibirahure, arimo imiti y'ibyatsi. Iyi miti rero ikaba ivura kandi mu buryo bwizewe. Ifunze mu macupa, amwe afite imipfundikizo y'umutuku, ndetse andi akaba afite imipfundikizo y'umweru. Iyi miti iravura, kandi irizewe.

Icupa ry'umuhondo rifite umupfundikizo w'umutuku, ririho umuti ukomoka ku bimera hari amoko y'ibimera bagaragaje, iyi miti ikomoka aha rero bafata ibimera bakabitunganya maze bagakuramo umuti mwiza, bakawushyira ahantu no mu macupa ukanyobwa kandi ukavura.

Agacupa gato k'umweru gafite n'umupfundikizo, inyuma yako harasa umukara. Aka gacupa karimo umuti ukomoka ku bimera, aho babisarura bakabitunganya neza maze bakabikuramo imiti, yaba ibinini cyangwa se iy'amazi maze ikavura abantu.

Agacupa karimo umuti aka gacupa gashushanyijeho agakoko, hakaba hariho n'amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, inyuma yako harasa umweru imbere yako hari ikimera urubuto rwiza cyane bakase rw'icyatsi kibisi imbere hasa umweruru.

Imiti ikorwa mu bimera, iri mu tuntu tugiye dutandukanye, hari iri mu macupa, hari iri mu dukarito ndetse hari indi ifunze neza iri mu bikarito, iyi miti rero itunganywa mu bimera, aho babifata bakabitegura kugeza igihe biviriyemo imiti.

Ibimera byiza cyane, turi kubona igiti cyabaye kirekire, gifite amababi meza cyane, aya mababi rero niyo basoroma maze bakayategura, hari ufata umuti utarategurwa neza ndetse hari n'undi urindira bakawutunganya, akazawunywa umeze neza cyane.

Icupa rigufi ririho amagambo yandikishije umutuku rikaba risa umweru. Turi kubona icyatsi kibisi kiri inyuma yaryo. Iki kimera cyitwa kapusine kandi aha iri cupa riri mu ibara ry'umutuku, hakaba handikishijemo amabara y'umweru. Ayo magambo akagira ati: ''Ubwonko bukora neza ni yo ntego.''

Ni ibiganza bifashe agakaratasi karimo utuntu tw'ifu. Utu dufu rero n'amababi bahasoromye bamaze kuyasoroma barayanika amaze kuma barayasya maze bayakoramo umuti. Uyu muti uravura kandi urizewe.

Iki ni icyumba kirimo amoko y'imiti agiye atandukanye akomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo, hari iri mu macupa y'icyatsi kibisi, hari ari mu macupa y'umuhondo ndetse n'ayo macupa y'imikara, aho yose agiye afite icyo avura.

Isahani ndetse n'indobo biteretse ku meza, hari ikiganza bigaragara ko ari icy'umuntu uri gutunganya bino bimera, ibi bimera rero hari abantu babitunganya maze bikavaomo imiti myiza cyane, ivura abantu aho awugutunganyiriza maze ukawunywa.

Icupa ryiza cyane risa umweru rifite umupfundikizo w'umweru. Rikaba rifite akapa kariho amagambo yandikishije ibara ry'umukara. Hakaba hari igishushanyo cy'igikakaruwamba. Iyi ni imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera kandi ivura.

Icupa rita ry'umweru hariho agashushanyo k'umubu, hakara hari amagambo yandikishije ibara ry'ubururu agira ati: icyerekezo cyiza ubuziraherezo, hakaba hariho n'umubare mirongo itandatu, uyu rero ni umuti ukomoka ku bimera.

Ipapayi iteretse hasi. Hari igipande kimwe, imbere turi kubonamo imbuto zayo. Iyi papayi rero na yo ni imwe mu bimera bishobora kugira umuti, aho uyifata ukayoza neza, maze ukayikata, ukayirya, ukaba wikingiye.

Ibimera biteye mu murima, bigiye bizamutse neza bifite amababi y'icyatsi ndetse n'umuhondo, ibi bimera rero bikaba bikorwamo umuti, inyuma yaho turahabona ibindi bimera bigiye bitandukanye n'ibi, byose bikorwamo imiti.

Aha ni aho bagenzurira ubuziranenge bw'imiti ikomoka ku bimera, harimo umuganga wambaye impuzankano ndetse imbere ye hakaba hari amacupa abiri, ari gusuzuma aha agenda areba ibyujuje ubuziranenge abishyira ku murongo, ibidafite ubuziranenge abikuramo.

Agakarito karimo amabara agiye atandukanye karimo umuhondo, kakabamo umukara, kakabamo ubururu ndetse n'umutuku, hakaba hariho mirongo itanu ku ijana na makumyabiri ku ijana. Aka gakarito karimo umuti mwiza cyane ukomoka ku bimera uvura kandi ugatuma abantu bakira.

Ni ubwoko bw'ikimera kirambitse hasi, iki kimera gifite amababi y'icyatsi kikagira uturarabyo tw'umutuku ariko wijimye, aha rero ni mu muririma aho bari baragihinze bikaba bigaragara ko iri ari ishami ryacyo riri hasi, iki kimera kivamo umuti ukomoka ku bimera.

Icupa ryiza cyane kandi rirerire, ririmo umuti ukozwe mu bimera, aho turi kubonaho icyapa cy'umuhondo haka harimo uturongo tw'icyatsi kibisi. Imbere aho tukaba turi kuhabona indimu ikase ndetse igitunguru gikase n'ikindi kidakaze. Hari n'amagambo yanditse agira ati:" Baho neza TV."

Ibimera biteye ahantu, ibimera bikorwamo imiti ikomoka ku bimera, aho baza hano mu murima bakabisarura bakabijyana bakabyanika bakabitunganya maze bakazabikora imiti y'amoko atandukanye, yaba ibinini ndetse n'imiti isukika.

Amacupa arimo imiti ikomoka ku bimera ni menshi cyane aryamye hasi, aya macupa rero riro arimo imiti iba yatunganyijwe mu bimera, aya macupa arimo imiti y'amoko yose aho buri cupa ririho icyapa kigaragaza ubwoko bw'umuti ndetse n'icyo uvura.

Ibimera bigihe bitandukanye biteye ahantu hamwe, harimo ibimera byinshi. Hari ibifite amababi y'icyatsi kibisi, hari ibifite ay'umukara. Ibi bimera bikorwamo imiti aho babisarura bakabitunganya, bakabitegura neza maze bigakorwamo imiti ivura neza cyane.

Icupa ryiza ry'umuti. Iri cupa rikozwe mu kirahure hakaba harimo umuti usa umukara. Hariho akapa kanditseho umurava uyu muti ukozwe mu bimera, kandi urizewe kuko uravura neza cyane.

Amoko y'imiti agiye atandukanye, hari ibinini biri aho ku meza hakaba ndetse n'icyapa kiriho amagambo agira ati hehe n'umubu utera malariya? Hari n'utundi tuntu tugaragara ko ari imiti iteretse ahantu.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye ikomoka mu bimera. Aha bari kugaragaza ibimera iyi miti ikomokaho. Utu ducupa harimo utw'umweru ndetse n'icupa rimwe rinini ry'umukara, iyi miti iravura kandi abantu bagakira.

Ni i miti y'amoko agiye atandukanye, iyi miti ikaba ikozwe mu bimera, ibimera ni ingirakamaro aho, ubitegura neza ukabitunganya maze bigakorwa n'inzobere ku buryo uyu muti uvura neza cyane.

Ni umurima urimo amoko y'ibimera bigiye bitandukanye, ikiri imbere tukizi nk'igicunshu cyangwa se umuravumba, ibi bimera rero bivamo imiti myiza cyane yaba ibinini ndetse n'iy'amazi aho babitunganya neza.

Abantu bagiye batandukanye bari mu bimera, ibi bimera rero bikorwamo imiti gakondo aho babisarura hano mu murima bakabyanika bakabitunganya neza kugeza ubwo havuyemo umuti mwiza maze bakawuha abarwayi ukabavura.

Iki ni ikimera gihinze ahantu hari ibimera byinshi cyane, gifite utubabi dutoya turambuye dushwarabatuye ku mpande, iki kimera kikaba gikora umuti. Umuti wacyo uravura kandi ugakiza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye harimo itasi irimo uburoso bw'amenyo bubiri ndetse hakaba n'indi irimo umuti w'amenyo, uyu muti w'amenyo ukaba uriho igishushanyo cy'igikakarubamba nta kabuza uyu muti wogeshe amenyo aracya cyane akererana.

Igisorori kirimo umutobe w'ibimera uyu ni umuti ukomoka ku bimera turi kubona amoko y'ibimera ari hafi aho hari ibibabi by'icyatsi kibisi, hakaba tangawizi muri iyi sorori harimo ikiyiko.

Umurima uteyemo amoko y'ibimera bigiye bitandukanye, ibi bimera bifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, ibi bimera rero bitunganywamo imiti ikomoka ku bimera, aho baza bakabisarura bakabitunganya maze hakavamo umuti.

Udukarito tw'imiti itandukanye ikomoka ku bimera, duteretse ahantu hasa nkaho na ho hari ibimera byinshi cyane kandi byiza by'icyatsi kibisi. Mu busitani bwiza, aha hari udukarito tugaragaza iyo miti hari n'ibyapa bigaragaza ko aho hantu hategurirwa iyo miti.

Amoko y'imiti menshi cyane agiye atandukanye, iyi miti yose ikomoka ku bimera, ikaba iri mu bintu bigiye bitandukanye, hari iri mu tumeze nk'utubido hari iri mu ducupa dutoya ndetse hari n'iri mu gatente kari aho ngaho, hakaba hari inyuma yaho igitambaro kirimo amabara ya orange.

Amoko y'imiti akomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo, iteretse hano, ikaba iri mu mabara atandukanye, yose igiye ishushanyijeho igikakarubamba ndetse n'urunyanya, ikaba igiye iriho ibiyigize ndetse n'uko ivura.

Amakarito y'imiti agiye atandukanye, iyi miti ikomoka ku bimera aho bafata ibimera bakabitegura neza cyane bakabikuramo imiti yaba iy'ifu, isukika ndetse n'ibinini ibi bimera rero biravura cyane.

Uducupa twiza cyane dufite umuhondo turimo imiti ikomoka ku bimera, imbere yaho hari ikirahure nacyo gisutsemo umuti kuri utu ducupa hashushanyijeho ibimera nk'ibikakarubamba ndetse n'amagambo yanditse ku ruhande hari imbuto zikase.

Uyu ni umurima urimo ibimera bigiye bitandukanye, harimo ibyazanye indabo ndetse hari n'ibindi bidafite indabyo, ahubwo bigisa icyatsi kibisi ibi byose bikorwamo imiti gakondo, cyangwa se imiti ikomoka ku bimera, kandi ikavura abantu barwaye bagakira.

Agacupa gato cyane kakaba kariho icyapa kigaragaza ko harimo umuti ukomoka ku bimera, iyi miti rero ikomoka mu moko y'ibyatsi agiye atandukanye, ariyo mpamvu bayita imiti gakondo, barayisarura bakayitunganya maze bakayiha abarwayi.

Amoko y'imiti ituruka mu bimera, turi kubona agasekuru karimo umuhini ndetse n'ibimera, bigaragara ko bagiye gusekura umuti, hari n'undi uri aho ku gataro, iyi miti rero barayifata bakayisekura maze bakayinywa bagakira uburwayi bafite.

Amoko y'imiti agiye atandukanye ateretse ahantu hamwe, har’akoze mu bwoko bw'ibijumba nk'amatangawize ndetse n'andi moko nk'ayo, hari ay'amababi ndetse n'ibindi. Ibi byose biratunganywa bigakorwamo umuti umwe kandi uvura.

Iki ni kimwe mu bimera bikorwamo umuti gakondo, umuti ukomoka mu bimera rero iki ngiki bakita igigakarubamba, kiri mu murima urimo n'ibindi byinshi byeze, aha barabifata umutobe wabyo ukaba ari wo uba muti.

Uyu ni umurima urimo ibimera bigiye bitandukanye, harimo ikimera gishyushye cyane gifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo. Ibimera rero bikorwamo umuti ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo, aho babifata bakabyanika maze bikavamo umuti uvura.

Amoko y'imiti agiye atandukanye ateretse ku meza, harimo ibibabi ndetse harimo n'ibindi biri ku tuntu tumeze nk'utumamiro. Hakaba ibindi biri mu ducupa bijya gusa nk'umuhodo. Ibiri mu kirahure bimeze nk'indabyo hanyuma ibiri hasi byo bimeze nk'ibinini.

Ni amoko agiye atandukanye n'ibikomoka ku bimera; harimo ari ku ifunguro, ndetse akaba agiye atanditse mu buryo bugiye butandukanye. Aho waba uri hose ugomba kumenya ko iyo miti ivura, kandi uyinyweye agakira.

Uducupa ndetse n'udukarito harimo imiti ikomoka ku bimera, aha turi kuhabona amoko y'ibimera ari ku mpande ndetse no kuri buri cupa hagiye hariho ubwoko bw'ikimera, bigaragara ko uyu muti ukozwe mu gikakarubamba cyane cyane.

Utubido tw'imiti igiye itandukanye, iyi miti rero ikaba ikomoka ku bimera, iri moto bido tw'umuhondo, iyi miti ivura abantu ubwo bayahira bakayitunganya neza, ikavamo imiti kugeza ubwo bayishyize mu tuntu bayigurishirizamo.

Ni ubwoko bw'ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi, kikaba giteye mu murima urimo ibindi bimera byinshi. Iki kimera rero nk'uko bigaragara, baragifata bakagitegura neza maze bakagikuramo umuti ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo.

Igiti kirekire cyane gifite amashami ahanamye, hakaba hariho amababi, aya mababi arakoreshwa neza cyane agatunganywa maze akavamo umuti, hakurya turahabona ikirere gisa neza cyane kiririmo amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Amashusho umunani agiye atandukanye yose agiye ariho amoko y'ibimera, ibimera bishobora kubyara umuti kandi uvura, aha rero nk'uko bigaragara ibi bimera harimo iby'icyatsi kibisi, harimo iby'umutuku ndetse harimo n'iby'umuhondo, byose bikorwamo imiti ivura.

Ni icupa risa nkaho ari rirerire ririmo umuti ukomoka ku bimera nk'uko tubibona ishushanyijeho ibimera bigiye bitandukanye nk'urunyanya, igikakarubamba ndetse n'ibindi hejuru hakaba hashushanyijeho igishushanyo cy'umubu, iri cupa risa umweru ndetse hejuru hagasa umutuku no kundiba yaryo.

Icupa ririmo umuti ukomoka ku bimera, iri cupa rirasa umweruru, amagambo yandikishije umutuku, hakaba hariho igishushanyo cy'umubu, uyu muti rero ukaba uvura kandi ukaba wizewe hano mu Rwanda.

Iyi ni nyubako y'ivuriro ndetse ikaba icururizwamo imiti ikomoka ku bimera, harimo umukobwa ufite imisatsi myiza cyane y'umweru, wambaye impuzankano y'abaganga y'umweru, akaba ari gucuruza imiti, imiti iri mu macupa ndetse no mu dupipiri.